Ku mugezi, mu kabande hahuriye abantu benshi higanjemo abana baje kuvoma amazi ahangaha biragaragara ko abana bavuye hejuru mu mpinga bakamanuka mu kabande bazanywe no kuvoma amazi bitewe n'uko nta mazi abegereye hafi y'ingo.

Aha ngaha ni mu cyumba cyabereyemo inama. Cyateraniyemo abantu bambaye imyenda y'umweru, ndetse n'abambaye imyenda y'icyatsi. Ariko bose hamwe, bambaye udupfukamunwa tw'umukara. Hari umugabo ufite ikaramu mu ntoki, usa nk'aho yakurikiye.

Ikamyo nini ya rukururana ihetse imitwaro myinshi iremereye imbere yayo hari indi imeze nka yo, kuri iyo mitwaro hariho ikirango kiriho igiti ndetse n'ikindi kirimo ishaka.

Umwana w'umukobwa mutoya ufite iherena ku gutwi, ndetse na karozwari mu ntoki k'ubururu, ari kumwe n'umuhungu bigaragara ko akuze, imbere y'uwo muhungu hateretse akadobo k'ubururu. Afite isabune mu ntoki biragaragara ko agiye gukaraba, ahagaze ku muryango w'inzu, inzu ifite urugi rw'imbaho.

Mu bitaro kwa muganga umuganga ari kwita ku miti, arimo ahora afata ibizami, yafashe ibizami umurwayi by'amaraso, yagiye kubisuzuma ngo arebe indwara yaba arwaye, ni cyo kintu gitumye ari muri iki cyuma.

Ibyuma byifashishwa kwa muganga, bitanga umwuka, babyita bombone, bifasha umurwayi urembye, bikamuha umwuka, bikamubuza kuba yabura ubuzima.

Umubyeyi yazanye umwana kwa muganga ndetse umuganga wambaye imyenda y'akazi, ari kumwitaho kandi yambaye amaherena n'imisatsi ye yarayisukishije, ahandi hari n'urugi rw'ubururu ruri aho bari.

Aha ngaha ni ku kigonderabuzima aho hahuriye urujya n'uruza rw'abantu ariko cyane cyane higanjemo abagore, abagabo bakeya. Harimo abagabo bambaye amataburiya y'umweru ndetse hakaba n'umugore wambaye ishati y'umutuku, hakaba n'umugabo wambaye ishati y'umutuku y'amaboko magufi.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku mugezi bigaragara ko baba baje kuhakora umuganda. Higanjemo abana batoya, ababyeyi n'abagabo babiri. Umwana umwe ari kuvoma amazi ku mugezi arimimo aravomera mu jerikani.

Abana babiri bari ku mugezi barimo barakaraba mu ntoki, bicaye basutamye, umwe yambaye agapira k'umutuku n'akabutura undi yambaye imyenda isa ishati n'ipantaro, baricaye bari kunezezwa n'ukuntu amazi ari kumanuka mu mpombo.

Urubyiruko, abana bakiri batoya ariko batari bato cyane biragaragara ko bakuze; ni abantu batanu harimo umukobwa umwe abandi bose ni abahungu; harimo umuhungu umwe wambaye ga ndetse n'amarinete; barasa nkaho bari kwiga ku mushinga kugirango bihangire umurimo.

Abantu bateraniye mu cyumba basa nk'aho bari mu nama bari guhabwa amabwiriza yo kugira umurimo bakora, imbere yabo hateretse ibipara by'amazi kumeza iri imbere hateretsemo amamalete iruhande gatoya hari intebe ifite igitambaro cy'umutuku.

Umwana wambaye ikanzu y'umutuku, irimo n'utundi tubara, ari gukaraba ku iriba ndetse yaboshye imisatsi, hari aho amazi ari kujya mu ibase nini cyane y'umukara, iruhande rw'iryo riba hari urukuta rwubakishije amatafari manini.

Umugabo uri ku iriba ateze ikiganza aho amazi ari kumeneka kandi hasi hari amazi menshi cyane ndetse harimo amabuye y'ibitare binini kandi hakaba n'ibyatsi biteye hafi y'iryo riba.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba, basa nk'aho bari guhabwa amahugurwa, bicaye mu cyumba, imbere yabo hari amacupa y'amazi, bamwe bafite amaterefone ndetse na zamudasobwa n'amakaye. Hari umumama ufite ikaramu mu ntoki.

Ku kigo cy'amashuri, abana barishimye, bose ni abirabura, bose bazamuye ibiganza bari gupepera basuhuza abantu, harimo abagabo cyangwa se abayobozi bahagaze inyuma, harimo abirabura ndetse n'abazungu.

Umugore ufite umupira mu ntoki ndetse na marete, ari iruhande rw'umuganga wambaye imyenda y'akazi ndetse na telefone iri ku meza, hari n'ibipapuro bitandukanye by'umweru, harimo n'abandi baganga batandukanye bari hirya y'aho bo bariri.

Umugore ukenyeye igitenge kirimo amabara harimo ubururu n'umuhondo afite indobo atwaye mu ntoki y'umuhondo ndetse n'indi ndobo yikoreye ku mutwe y'umutuku arimo kujya imbere agana ahari agatanda bananikaho ibikoresho ndetse n'inzu iri hafi aho ,hari ibiti byinshi bitandukanye bigaragara ko ari mu ishyamba.

Ku biro by'umurenge hahagaze umugore wasutse menshi; afite indangururamajwi mu ntoki, afite ndetse n'ikayi; yambaye itaburiya y'umweru; mu imbere mu gisharagati hari abantu basa nkaho yaremesheje inama; ari kugira ikintu ari kubabwira.

Abana n'abagore bari ahantu hamwe bari kwitegereza imbere, harimo umugore munini wambaye igitenge yacyitezemo nk'umwitero ndetse kirimo amabara menshi atandukanye n'abana bamushagaye bambaye udukanzu b'abakobwa n'abahungu bambaye imipira y'imituku.

Abana bambaye imyenda y'imihondo ndetse bicaranye n'ababyeyi babo, hari ababakuriye bari kubaha amata harimo na Polisi kandi abo bantu bambaye imyenda yabugenewe.

Abagore bizihiwe bari kubyina biragaragara ko bishimye, biragaragara ko hari ikintu gishobora kuba cyabaye hano muri uyu muryango, bakaba batumiwe n'abandi bantu batandukanye, wenda ushobora gusanga hari nk'umwana wavutse cyangwa se akaba ari ikindi kirori runaka cyahabaye.

Ahantu hisanzuye hari ikibuga kigari ndetse hubatse inyubako nyinshi z'amoko atandukanye, hari n'inzira zigendera mu kirere bigaragara ko ari ahantu hari uruganda.

Umuganga uri kwita ku mwana w'uruhinja ukiri mutoya ari kumuha imiti. Umubyeyi aramukikiye. Umwana yambaye akagofero k'umuhondo, yambaye agapira k'umweru. Muganga yambaye amaherena ku matwi yambaye ndetse n'itaburiya n'imiringa ku kiganza.

Inama yahuje imbaga y'abantu, abagabo ndetse n'abagore abenshi muri bo hejuru bambaye imipira y'umweru iriho ibirangantego by'ubururu. Imbere haragaragara umugabo usa nkaho akuze inyuma ye hari umusore wambaye amarineti ndetse afite n'agakapu mu mugongo.

Umwana wambaye ikanzu idorwa mu gitambaro cy'igitenge afite icupa rinini mu ntoki ari kw’iriba ndetse biragaragara ko ari gushaka amazi iruhande rwe hari urukuta rwubakishije amatafari imwe azwi kw’izina ry'inkarakara.

Mu cyumba cy'inama hano biragaragara ko iyi nama yitabiriwe n'abagabo gusa, harimo umugabo w'inzobe ufite uruhara yambaye kositime ari nawe uri ku ruhande rw' harimo n'undi mugabo wambaye amalinete cyangwa se amadarubindi ubyibushye ufite ikaramu usa nk'aho ariwe uri kwandika ibitekerezo byavuzwe.

Abana bagera kuri barindwi bigaragara ko bishimye, bari hafi y'umugezi, umwe arimo aranywesha ikiganza amazi ku mugezi, undi afite ikaramu mu ntoki, abandi nabo barategereje ngo banywe amazi.

Iyi nyubako biragaragara ko ikuzi hejuru gato haragaragara ko hamanitseho ingufuri hino hari umukobwa uri kuvomera amazi mu njerekani injire kandi iteretse mu ibasi inyuma ye ku mugozi hanitseho imyenda.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa, ari kumwe n'umwana w'umunyeshuri uvuye ku ishuri, ari kumukarabya intoki akoresheje amazi meza n'isabune, bigaragara ko uyu mwana avuye ku ishuri, mbere y'uko yinjira mu nzu amo kubanza gukaraba.

Umwana w'umukobwa agiye kuvoma amazi atemba, afite injerekani yayidubitse hasi mu mazi arimo aratsindagira ngo amazi abasha kujyamo, na we yamanutse ajya mo hagati kugira ngo abone uko avoma.

Umujyanama w'ubuzima ari gupima umuvuduko w'amaraso abaturage, ni abagore gusa bose biteza ibitambaro ndetse banikenye baneteza ibitenge, muganga afite utuntu mu matwi turi kumufasha kumva niba baba barwaye n'umuvuduko w'amaraso.

Abagore benshi bateruye abana bari ahantu mu nyubako, harimo umugabo ndetse n'umugore bari kwita kuri abo bana, bambaye imyenda isa bigaragara ko ari umushinga wita ku bana cyangwa ku buzima bw'abana.

Abana batatu, bari iruhande rw'ahantu hari amazi bigaragara ko bari gukaraba ndetse hari n'ibimera bimwe binini ndetse hari urukuta runini cyane, bigaragara ko ari mu nyubako ifite iriba.

Umwana wikoreye injerekani nini iriho ikirango cy'ikigo gishinzwe kwita ku bana ndetse iruhande rwe hari umugabo uri guseka cyane agakora kuri iyo njerekani umwana yikoreye.

Umwana uri gukarabira ku mugezi, iruhande rwe hateretse indobo. Iyo ndobo ni ubururu ndetse n'uyu mugezi usize irangi ry'ubururu. Uyu mwana yambaye ishati y'icyatsi, ipantaro, agakabutura k'umukara ndetse hirya hari urusobe rw'ibimera bitandukanye.

Umwana w'umukobwa ukiri mutoya yambaye agakanzu arimo arakaraba amazi kuri kandagira ukarabe amazi arimo aramanuka ava muri kandagira ukarabe akayakaraba agakomereza hasi m'ibase isa icyatsi.

Mu nyubako ifite amabara ndetse hari n'ibitambaro, biri mu mabara y'ibendera ry'igihugu hakaba abantu bicaye bafite ameza ariho igitambaro cy'umweru ndetse na mudasobwa, bigaragara ko hari uje kwakira ikibazo n'ugiye kugikemura.

Umwana uri ku mugezi ari kuvoma amazi ayimena mu mutwe no mu maso akamanuka mu maso hose byamushimishije ari guseka ari kwitegereza hirya no hino agatwenga amazi akamanuka yijya mu kanwa kubera uko yasomye.

Aba ni abakarani. Biragaragara ko abagore babiri aribo bari kwisuma imifuka baterura bahereza umugabo ngo apakire ahagana hejuru. Birashoboka ko iyi mifuka yaba iy'umuceri cyangwa se iy'a kahunga cyangwa se n'ibindi bihingwa cyangwa bitunga ibindi bintu bitunganywa n'inganda.

Icyapa cy'ubururu kiriho amagambo avuga ko ari ikigo gishinzwe kurengera ubuzima bw'abana hariho ikirango kirimo umugore uteruye akana.

Mu cyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye harimo abambaye amakositime ndetse n'abagore babiri hirya harimo uwambaye ishati itukura hirya ku rukuta biragaragara ko hari ahantu amashusho ari kugaragara bisa nk'aho ari televiziyo.

Kwa muganga mu cyumba ababyara ababyeyi babyariramo, harimo umubyeyi bari kubyaza bamutwikiriye igitenge ahagana akunda kumanuka hasi, ya bamwambitse agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'abarwaza bamuri iruhande, nabo bambaye udupfukamunwa tw'ubururu.

Icyumba cyabereyemo inama bari kuganira ku nsanganyamatsiko yitwa uburyo bwo gukumira ndetse no kurwanya ugutwita kw'abangavu, hano hari abagabo ndetse n'abagore, abagore bambaye amatabuririya y'umweru, hari n'abana b'abakobwa, hari amashusho ari ku rukuta inyuma y'abana b'abakobwa.

Umubyeyi uhetse umwana mu gitenge, biragaragara ko ari kwogereza ibintu ku mugezi ari koza imifuniko ndetse n'indobo zayo, ari kogereza mu ndobo y'umuhondo, ari gukoresha amazi meza ndetse n'isabune, uyu mugore yasutse umusatsi hano haragaragara umufuniko w'ubururu hafi y'umugezi.

Ku ishuri abana batoya barishimye bambaye ga bahagaze ku mugezi, barishimye basa nk'aho bari gukaraba ku mugezi, buri wese aringaniye n'umugezi we arimo arareba ukuntu amazi agenda amanuka, inyuma yabo hari umuntu wambaye imyenda y'umukara ndetse n'mweru.

Urujya n'uruza rw'abantu baje kwivuza kwa muganga, hano biragaragara ko ari nk'icyorezo cyafasha abana kuko buri muntu wese uri hano biragaragara ko afite umwana mutoya w'uruhinja, aha ngaha birashoboka ko ari ababyeyi baje gufatisha abana urukingo rw'ukwezi kwa mbere cyangwa se n'izindi nkingo zigiye zitandukanye ku bana.

Umuganga uri kwita ku murwayi wifubitse cyane, bigaragara ko arembye, afite umurwaza na we umuri inyuma ndetse uwo murwayi yegamye ku ntebe iri aho hafi. Umuganga na we ayambaye imyenda y'akazi, ari kumwitaho.

Urubyiruko rw'abasore n'inkumi, bambaye imyenda iranga ko ari abaganga ndetse bambaye utuntu tubaranga aho bagiye hose turiho amazina yabo, inyuma yabo hari ibyapa bitandukanye.

Umwana ukiri mutoya ari mu cyumba abaganga n'abajyanama b'ubuzima bakingiriramo. Baramusutse umusatsi, afite amasaro mu mutwe higanjemo y'icyatsi umuhondo ndetse n'umutuku. Muganga ari kumutera urushinge kuboko kw'iburyo, umubyeyi we amuteruye.

Umubyeyi wagiye kuvoma afite umwana mutoya, mbere yuko avoma yazanye ikivovo agishyira ku mazi, agiseseka umukintu ari kuvomeramo, yabanje yururutsa umwana, amwicaza iruhande rw'umugezi, ikiri igitenge akirekera mu mugongo.

Umugabo ufite imyaka hagati ya mirongo itanu na mirongo itandatu, ari ku iriba yicaye ku njerekani ndetse yambaye ipantaro y'umukara n'ishati irimo uturongo twinshi dutandukanye, iruhande rw'iryo riba hari ibyatsi bimeze nk'urubingo.

Icyapa kiriho ikirango kiri mw’ibara ry'ubururu hagati y'uruziga harimo umugore n'umwana ateruye mu ntoki bari kurebana ndetse hazengurutseho ikibabi mu mpande zombi bigaragara ko ari ikirango cyita ku bana.

Uyu ni umugezi uri kwitabwaho n'abakozi b'amazi, biragaragara ko aya mazi yari yagize ikibazo, uyu mugezi usize irangi ry'ubururu kumpande yaho hahagaze abaturage batandukanye harimo; n'abafite indobo z'umuhondo. Uyu muntu uri gukora amazi yambaye bote, yambaye n'ingofero ya parasitike y'umuhondo.

Ihuriro ry'abagore n'abagabo bambaye imipira y'imituku ndetse ubona ko biteguye gutera ibimera byinshi, aho bari bari kubipakira mu mashashi kandi hari abandi inyuma yabo bambaye n'amajiri, kandi hari ibimera byinshi bitandukanye ndetse n'inyubako ifite ikigega kijyamo amazi aturuka ku nzu.

Abagore n'abagabo bambaye neza, bamwe amakoti, abandi amajipo, amapantaro n'amakanzu, bahagaze imbere y'inyubako, hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda kandi inyuma yabo hari icyapa kiriho amagambo agaragaza insanganyamatsiko baganiragaho.

Abagore ndetse n'abagabo barimo barabyina, bishimiye ibikorwa bagejejweho, bambaye amataburiya y'ubururu ndetse n'amabaji mu ijosi.

Icyumba kirimo abantu benshi batandukanye, imbere yabo hari ikayi n'ikaramu, ndetse n'icupa ry'amazi, ndetse hagati yabo bombi harimo udukombe duteretsemo indabyo.

Umurwayi ari kwa muganga barimo kumushyiraho icyuma gipima uko umutima utera, hari abaganga babiri, umwe yegereye mudasobwa ndetse n'umuti wica udukoko, undi we ari inyuma y'uwo murwayi.

Urujya n'uruza rw'abantu bihurije hamwe, imbere yabo hashinze itente riri mu mabara y'umweru, harimo abagore ndetse n'abagabo, abagabo harimo abambaye bote z'icyatsi.

Abana bakiri batoya bambaye imyenda isa, barasa nk'aho ari abanyeshuri, bahagaze ku mugezi, imigezi buri mugezi imbere yaho hateretse indobo y'umuhondo, hamwe hateretseho n'akabuni, biragaragara ko baje kuvoma bose.

Abantu benshi bari ku iriba hateretse amajerekani menshi y'amoko atandukanye ndetse bose n'abagore, hari uwegereye iriba uryegamyeho kandi rifite ibara ry'ubururu..

Abantu bicaye mu nyubako, ubona ko hari ikintu bategereje, kandi muri iyo nzu hariho ibishushanyo byinshi, harimo iby'abana, ndetse n'ibiriho abantu bakuru, bigaragara ko ari inzu ivurirwamo ababyeyi.

Abana bambaye imyenda y'ishuri bahuriye ku mugezi, uwo mugezi biragaragara ko uri mu kigo cy'ishuri ndani kuko biragaragara ko hari amashuri, hano aba bana bazanwe no kunywa amazi n'ubwo ntakintu bazanye cyo kuyanywesha, barimo baranywesha umunwa ku mugezi gusa ntabikombe bazanye cyangwa se utubuni.

Abajyanama b'ubuzima bitabiriye inama ni benshi bihagije, inyuma yabo hari ibyapa cyangwa se ibirangantego bya emutiyene ni nk'ibyapa bya emutiyene, hafi ya bose bambaye udupfukamunwa yaba abagabo bambaye utwu mukara ndetse n'utw'ubururu abandi nabo bambaye n'amataburiya.

Abanyabuzima bafite amakayi ndetse bambaye n'amataburiya abaranga, bafite amakaramu ndetse biragaragara ko bari mu nama kuko bicaye bakurikiye.

Inyubako irimo abantu benshi bicaye bategereje ubufasha bafite impapuro mu ntoki urabona ko bari kwa muganga kuko hari ugezweho uri imbere y'ameza n'umuntu urimo kumufasha w'umuganga wambaye imyenda y'akazi.

Uyu ni umujyanama w'ubuzima uri kugira inama umubyeyi, ufite umwana mutoya urwaye, bicaye ku rubaraza imbere y'umuryango, umugabo yicaye ku gatebe k'akarambarazi, afite ibitabo iruhande rwe kuri ako gatebe, umubyeyi yicaye ku ntebe y'ubururu ya palasitike, mu muryango harimo igitambaro.

Abagore batatu bagiye ku iriba ndetse bafite ibidomora bibiri babanje kunywa amazi bakoresheje ikiganza ndetse umwe ari inyuma y'iriba iryo ryanditseho amagambo agaragaza ko ari ryo rigezweho nyuma y'aho hari ibiti byinshi.

Umugore uteruye umwana mu ntoki wambaye igitenge ndetse n'umupira ari kw’iriba bigaragara ko ari kuvoma amazi mu ndobo y'umukara ihari nini ndetse iruhande rwe rwiryo riba hari ibiti byinshi bihakikije bigaragaza ko ari ahantu hitaruye hari ibimera bitandukanye.

Umukorerabushake, afite agapima umuririro cyangwa se ubushyuhe, yambaye agapfukamuwa k'ubururu ndetse na ga z'ubururu, yambaye akajire k'icyatsi gafite ibara ryijimye rijya gusa umukara, hirya gatoya ye hari umusekerite wambaye ingofero, arimo arapima umubyeyi ngo arebabe uko umuriro uhagaze.

Ku kigo cy'amashuri hari umwana w'umukobwa uri gukora isuku, imbere ye hateretse ikidobo agomba kunagamo imyanda, hirya hagaragara w'umukobwa wambaye imyenda y'ishuri, hagaragara inyubako eshatu z'amashuri.

Akana k'agakobwa kakiri gatoya, kari ku ivomo, kari gukaraba amazi mu ntoki meza, aha ngaha biragaragara ko gafite umuco bimwe bavuga ngo uba ugomba gukaraba amazi meza ndetse n'isabune, kambaye agakanzu k'umutuku karirabura.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye, abagabo, abagore ndetse abo bagore bahetse abana, hari inyubako iri aho bari ndetse n'amahema, hari n'ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye, abagore abagabo, abasaza, abakecuru ndetse n'abana, bari ahantu hari amahema imodoka ndetse n'inyubako hari n'ibiti byinshi bitandukanye wagira ngo habaye ubukwe.

Kwa muganga umuganga ari guhereza umwana ukiri mutoya umuti, uyu mwana biragaragara ko akiri uruhinja yambaye akagofero k'umuhondo nyina aramuikikiye umuganga yambaye iherena, amaherena ku matwi yombi kandi yasutse menshi.

Umwana w'umuhungu uri ku mugezi ari kunywa amazi anywesheje ibiganza, ntacyo kunywa ariko afite ari kunywesha, iruhande rwe hateretse indobo, yambaye ikabutura y'umutuku ndetse n'umupira w'amaboko maremare, hirya gatoya hari inyubako isize irange ry'ubururu ndetse n'umweru.

Icyumba kinini kirimo imikeka, hicayeho abana benshi, bambaye imyenda itandukanye, bamwe bambaye iy'ubururu, abandi bambaye umuhondo, hari ababyeyi babakuriye babicaye inyuma ndetse harimo n'umwana umwe w'umuzungu.

Abantu bari mu kibuga kinini kisanzuye, harimo abagore n'abagabo, bari guterura imifuka bayijyana ahantu hamwe ndetse harimo n'urimo kuyitondeka, bigaragara ko ari imifuka ikoreshwamo harimo imiceri.

Icyumba kirimo abagabo n'abagore wagira ngo bari mu nama, imbere yabo hari ameza ateretseho ikayi ndetse na telefone zabo, bamwe bafite amazi yo kunywa imbere yabo, abandi arabitaruye.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye bari mu nyubako, harimo abaganga ndetse hari akana barimo gupima ngo barebe uburebure bwako, kandi hari n'inzu iri hirya y'iyo nyubako ifite amarangi y'umweru.

Icyumba kirimo umwana urembye cyane ndetse bacometseho na serumu, hari abaganga babiri bambaye impuzankano y'akazi, bari kumutera inshinge ndetse hari n'umubyeyi w'umwana, uri iruhande rwe urimo kwitegereza uko umwana amerewe.

Umugore wambaye umupira w'akazi, afite ikayi mu ntoki n'ikaramu bigaragara ko ari kwandika, ndetse iruhande rwe hari abagore batandukanye n'umwana muto. Umugore uhari yambaye ishapure y'ubururu ndetse ateze n'agatambaro k'umukara mu mutwe.

Umupira w'umweru ndetse n'ubururu buriho amagambo yo mu cyongereza yanditseho ngo RPS ini cogamo.

Inyubako nziza ikeye isize irange ry'umweru, imbere yayo hari ibyapa bibiri, birimo biragaragaza izina ry'iki kigo ko ari ibitaro bya Munini ndetse baragaragaza serivise batanga.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye, harimo abagore, abana, abagabo, bigaragaza ko baje kwamamaza Perezida w'u Rwanda kuko bafite amabendera mato mato, bose bari kwamamaza, ubona babyishimiye cyane.

Amahugurwa yateranyije urujya n'uruza rw'abantu, harimo abagore ndetse n'abagabo, hano hari abagore bambaye udupfukamunwa tw'ubururu ndetse harimo n'umugabo wambaye kositimu wambariyemo ishati y'ubururu yambaye agapfukamunwa k'umukara hirya hateyemo intebe z'umweru hino harimo n'ameza ateretseho ibitabo hejuru.

Icyapa kiriho umugore wambaye agapfukawa k'umweru, umupira w'umukara ndetse ateze n'igitambaro cy'umukara, ari mu kaziga, iruhande rwako hari amagambo menshi atandukanye.

Mu iduka ricuruza ibikoresho bijyanye n'ubugeni, aha ngaga hari abakobwa babiri umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu ndetse n'umweru afite igishushanyo cyangwa se urusamagwe rw'igikoroni hirya gatoya biragaragara ko ari ahantu hameze nk'ahari muri pisinine hahagazemo abantu hagati hano hari umukobwa watangaye uri kureba urwo rusamagwe.

Umugabo wambaye ishati irimo amabara ndetse n'ipantaro y’umukara agisuhuje umugabo ufite imisatsi myinshi n'imyenda y'inshwabari bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Icyapa kiriho abantu benshi batandukanye, hari umugore uri ukwe ndetse hari n'ikirango kiri iruhande rwe kiriho inyoni ndetse hari n'abandi bari mu ifoto imwe zimwe bafotoza camera bafatanye ku rutugu, hari n'abandi bambaye ingofero z'abisilamu ndetse n'undi uteze igitambaro.

Umukobwa wambaye isengeri y'umukara ndetse wicaye ku ntebe iri hanze ku nyubako hejuru, kandi hakaba hanze hari imikindo n'ibindi bimera bitandukanye, bigaragara hari uwo bari kuvugana kuko yasetse cyane.

Aha ni mu cyumba cy'inama haragaragaramo umugore ufite wasutse imisatsi afite ikaramu mu ntoki yambaye itaburiya y'umweru yambaye amarinete biragaragara ko ariwe uri gutanga ikiganiro, imbere hateretse amacupa abiri y'amazi ndetse na kompiyuta.

Ihuriro ry'abari n'abategarugori ndetse n'igitsina gabo, barimo barizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana n'abagore, turwanya ihohoterwa kuko ridindiza iterambere.

Inyubako isize irangi ry'umuhondo, iruhande hari akazu gato gasizwe irangi ry'ubururu, isakajwe amategura. Hasi hari akuma kashinzwe kurinda umutekano w'abantu.

Aha ni mu iduka harimo gukoreramo umugore wambaye urunigi mu ijosi akaba yambaye ishati idoze mu gitenge irimo amabara atandukanye inyuma ye niho hari kugaragara ibicuruzwa acuruza by'amoko atandukanye.

Imodoka nini itwara imizigo iri ahantu hitaruye hanini ndetse hari ikibuga kigari hari umugore uri imbere yayo ndetse hari n'intebe zino za parasitike zihagaze ndetse n'izindi ziryamye.

Ihuriro ry'urubyiruko abakobwa n'abahungu ndetse hagati yabo harimo umugabo bigaragara ko ariwe ubakuriye, bambaye impuzankano, ndetse bari mu nyubako nk'imbere aho inyubako igizwe n'amarangi atandukanye, ibyuma ndetse n'inkingi.

Abagore, abagabo ndetse n'abana, bicaye hanze y'inyubako ndetse iyo nzu ni ntoya, kuko ifite amadirishya mato n'umuryango muto, hari ibimera hafi yabyo ndetse n'insina ziri hagati y'inzu imwe n'indi.

Umugabo wambaye imyenda myinshi cyane itandukanye, yambaye utuntu tumeze nk'amadenesi yagiye ayizirikiraho afite igipupi cy'imbunda mu ntoki, yambaye marinete mu maso, arasa nkaho yigize umusirikare ariko ntabwo ari umusirikare.

Umugabo uri ahantu mu kirongozi hari urumuri rw'izuba, ndetse yegamye ku rukuta bigaragara ko afite ibibazo akaba arimo aratekereza cyane, ndetse nta wundi muntu uhari ari wenyine.

Abakobwa ndetse n'abahungu bakiri batoya baberewe, bambaye imipira y'ubururu ifite ibara ry'umweru, bamwe muri bo bambaye amasaha ku maboko y'iburyo, harimo abakobwa biteye amafurari, hakabamo n'umugabo usa nkaho akuriye uyu muhango wambaye karuvati, ndetse n'ishati y'umweru.

Iyi ni ishusho y'umuntu igaragaza uko ubwonko bw'umuntu bukora ndetse n'ahantu buherereye, biragaragara ko ubwonko buherereye ku ruhande rw'ibumoso ndetse hari umutsi umanuka ku ijosi ukomeza hasi mu mubiri.

Icyapa kiriho imibare igaragaza uburyo impfu zirimo kwiyongera mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse bari kugaragaza uburyo byatangiye biri hejuru naho bigeze ubu Ngubu mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani, ni ho bigarukira bivuye mu mwaka wa bibiri na kabiri.

Umugabo uhagaze hanze ahetse igikapu cy'umukara ndetse ahantu ari icyapa kiriho ikirangantego cy'Igihugu ndetse n'ikindi kiriho umusaraba, hari urukuta runini cyane.

Abantu benshi bari mu nyubako nini ifite intebe nziza n'ameza ariho ibitambaro birimo utubara dutoya ndetse bafite amakaye imbere ku meza ndetse n'icupa ririmo amazi, barambuye amaboko nk'abari gukoma amashyi.

Mu nzu iri gutangirwamo amahugurwa, aya mahugurwa biragaragara ko yiganjemo abagore bakuze, harimo abambaye udupfukamunwa tw'ubururu ndetse n'abiteze ibitambaro by'umutuku n'umukara, uyu muntu uri kubahugura yambaye agapfukamunwa k'ubururu imbere ye hateretse icupa ry'amazi ku meza arambuyeho igitambaro kijya gusa ubururu.

Umubyeyi ukuze, ari gutekera igikoma hanze ku muryango w'inzu ye, nta gikoni atekeyemo, iruhande rwe hari igikombe cy'icyatsi, icy'ubururu ndetse n'umufuniko w'isafuriya, hirya gatoya hari kugaragara inkoko y'umweru.

Abagabo n'abagore bambaye amakoti abandi amakanzu ndetse n'amajipo, bahagaze imbere y'inyubako, ndetse biragaragara ko bavuye mu nama, kuko iruhande rwabo hari icyapa cyiriho ibyo baganiragaho bigaragaza ko ari inama cyangwa amahugurwa.

Umuhungu bigaragara ko agahinda kamurenze. Iyo afite ibibazo bitandukanye. Aricaye hari umukobwa bari kumwe umufashe ku rutugu. umukobwa ku kuboko kw'ibumoso yambaye isaha yasutse imisatsi.

Urujya n'uruza rw'abantu bafite indwara zo mu mutwe, bazaniwe abantu babafasha babaganiriza bakabahumuriza kugira ngo babereke ko batari bonyine babarinde kwigunga, aha ngaha haragaragaramo abagore ndetse n'abagabo.

Umugabo wafunguye ibipesu by'ishati biragaragara ko adaheruka kwiyogoshesha yaba ubwanwa yaba umusatsi kuko arasa nabi arirabura aragaragara ko asa nkaho ari kuririmba mu kanwa ke havuyemo iryinyo rimwe ku menyo yo hejuru.

Ahantu hari abantu bakeya ndetse bigaragara ko nta hantu hari imyanda hicaye umuntu yipfumbase, yigunze kandi ubona ko wagirango ngo afite ikibazo.

Umugore n'umugabo bicaye ku meza ifite igitambaro cy'umuhondo ndetse intebe zabo ni ubururu, imbere yabo hari icupa ry'amazi ndetse na terefone nini igendanwa, hirya yabo gato hari igikapu kirimo ibintu by'imitwaro.

Ifoto igaragaza umwana ufite agahinda uri kurira yikoreye amaboko biragaragara ko hari ikintu kibabaje cyaba cyamubayeho hirya ye hari abantu benshi bagiye batandukanye hari umubyeyi ufite inkwi mu ntoki ukenyeye igitenge wazingiye igitenge mu nda imbere y'uwo mubyeyi hahagaze umwana.

Icyumba kiri kubera mu mahugurwa hano hari umugabo ubyibushye ufite indangururamajwi imbere hateretse ameza arambuyeho igitambaro hari abagore batatu ari kubwira birasa nkaho ari kubahereza amahugurwa ku kijyanye n'abarwayi bo mu mutwe.

Umubyeyi ucigatiye umwana wipfutse igitambaro cy'umuhondo, imbere ye hari inkoko iteretseho ingemeri irimo ibigori. Ku ruhande rwe hari umwana w'umuhungu.

Muri salo abantu bari kumeza ababyeyi babiri bacigatiye impinja, hari undi hirya w'umukobwa ufite terefone ebyiri ku meza afite umusatsi muremure hirya gato yo ku kabati hari igikombe cy'itasi kihubitse.

Igikorwa cy'umuganda cyateranyije imbaga y'abantu hano, abantu baje gutera ibiti bitandukanye birimo ndetse n'indabyo, bari kubitera hafi y'inzu nziza isize amarangi atandukanye, hagaragaramo abantu b'inzobe b'abazungu harimo n'abirabura.

Icyumba kirimo amarangi atandukanye, harimo umuhondo, ubururu ndetse n'umweru, hicayemo abantu benshi ubona ko bari mu nama, abari imbere y'abandi ku rubuga bafite ameza ariho igitambaro cy'umweru ndetse mu mpande y'ayo meza hateretseho indabyo.

Abaganga babiri bafite imiti bicaye hanze ndetse hari umugore uje kwivuza, bari kumubaza ibibazo bitandukanye kugira ngo ahabwe ubufasha ndetse iruhande rw'aho bari hari inyubako nyinshi zubatse mu buryo bwa gakondo.

Umugabo usa nabi cyane biteye ubwoba, wambaye imyenda yacikaguritse, afite umuneke ibishishwa by'umuneke mu ntoki, umusatsi we urasa nabi nk'aho adaheruka koga, no mu maso he ni uko yambaye ipantaro yacikaguritse, kuva hasi kugera hejuru.

Umugabo bigaragara ko akeye wambaye ishati irimo ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara n'umweru, hasi yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, ahagaze imbere y'inzu ikikijwe n'indabyo zigiye zitandukanye.

Umusore wishimye arimo araseka yambaye agapira k'umuhondo, ndetse inyuma ye higanje ibara ry'umweru. Ni byiza kugira amenyo meza ukayitaho kuko bituma useka ugahorana ubwuzu.

Inzu nziza cyane y'igitangaza isize amarangi atandukanye kandi nini bihagije izengurutswe n'indabyo zitandukanye harimo imikindo n'izindi ndabyo zigiye zirandaranda hasi hateye pasiparume imbere yaho hari amapave iyi nzu irakinguye inzugi ndetse n'amadirishya.

Umuntu w'umwirabura ufite amaso yatukuye ndetse uri kurira. Amarira arimo kumushoka ku matama, bigaragara ko afite ikibazo cyamuteye kurira, akaba ariyo mpamvu turi kumubona ababaye.

Icyumba kinini kirimo abantu benshi batandukanye bahagaze bamwe bifashe mu mifuka abandi bifashe neza nk'abarimo kwifotoza, imbere yabo hari ameza manini ariho amakayi, bigaragara ko bashoje amahugurwa barimo bakaba bagiye gutaha.

Urujya n'uruza rw'abantu, aba bana biragaragara ko bababaye bafite agahinda kenshi nk'aho hari ikintu babuze cyangwa se baguwe nabi hano biragaragara ko higanje abana gusa nta bandi bantu bakuru bahari ahangaha ni abana basa nabi cyane bigaragara ko baba bakeneye ubufasha.

Umuganga uri mu cyumba kirimo umurwayi, bigaragara ko arembye ndetse umuganga afite akantu mu ntoki kameze nk'urudodo, biragaragara ko yitaye kuri uyu murwayi ari kumuvura.

Abaganga babiri bambaye impuzankano y'akazi ndetse n'udupfukamunwa, umwe ni umugore undi ni umugabo, imbere yabo hapfukamye akana gatoya kambaye agapfukamunwa k'umutuku, bari kureba mu kanwa bigaragara ko karwaye amenyo.

Umugabo ujya kuba inzobe wiyogoshesheje agacongesha n'ubwanwa, afite urudodo yazingiye ku ntoki ze yarushyize mu kanwa agaragaza amenyo yo hejuru, birashoboka ko ashobora kuba ashaka kuruca cyangwa se akeneye kugaragaza ko afite amenyo meza bitewe n'umuti w'amenyo akoresha.

Umwana ukiri muto wambaye agapira k'icyatsi yagiye kwa muganga barimo baramusuzuma amenyo, umuganga yambaye ga z'umweru ndetse n'udukoresho twabigenewe.

Umukobwa wasetse yerekana amenyo ndetse atungaho intoki ebyiri nini, bigaragara ko ari kwerekana ko afite amenyo meza, ari kugira abantu kugira amenyo y'umweru nka ye.

Mu cyumba cy'abarwayi kwa muganga, muganga ari kwita ku murwayi arimo aramureba mu kanwa ko yaba yarwayemo ngo amukuremo iryinyo, muganga yambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse na ga, hirya gatoya hari abandi bantu na bo wambaye agapfukamu udupfukamunwa tw'umweru.

Umukobwa wicaye ku ntebe y'umweru, zimwe zigezweho ndetse afite indorerwamo mu ntoki, ari kwireba mu maso, iruhande rwe hari ubukarabiro hariho agakombe k'umweru ndetse ibintu byaho byose bifite ibara ry'umweru.

Umurwayi w'amenyo, muganga ari kumwitaho amuvanyemo iryinyo mu kanwa rirwaye, arifite mu ipensi, yasamye cyane kugira ngo atagira ahandi akomeretsa, yazamuye umunwa wo hejuru n'uwo hasi kugira ngo iryinyo abashe kuribona neza adakuramo iritari ryo.

Kwa muganga umurwayi bamukuyemo iryinyo biragaragara ko ryari rirwaye bamwasamishije cyane barizamuzamo ipensi, muganga aracyarifite mu ipensi ntabwo ara ntabwo ararimbika hasi.

Umugabo ufite ubwanwa buringaniye, uri guseka, afite urudodo ari kunyuza ku menyo, ya rukweze cyane, ndetse urwo rudodo n'umweru, yambaye agapira k'umweru arahagaze ari kumwenyura.

Aha haragaragara amenyo ari imbere y'umuntu. Uyu muntu yasetse ngo bigaragaze ko aya menyo ye ari amaterano cyangwa se ari ayo yashyirishijemo. Bagira ngo bagaragaze ko hano bacuruza amenyo kandi ko na bo bacuruza amenyo meza ari nta makemwa.

Abana bakiri batoya bari koza amenyo bari gukoresha amazi meza ndetse n'umuti w'amenyo n'uburoso, ahangaha biba bigaragaza ko bari kwamamaza umuti w'amenyo runaka cyangwa se bari kugaragaza ko isuku ari ingenzi ku bantu batoya ndetse no ku bantu bakuru.

Urubyiruko rwiganjemo abakobwa. Hano biragaragara ko ari ahantu bahuriye bahujwe n'ibyishimo n'umunezero. Biragaragara ko harimo umuzungu w'umumama ucigatiye umwana w'uruhinja ukiri mutoya. Inyuma hariyo abantu bambaye amashati y'imyeru ku gitambaro kiriho inyuguti za ta ziri mu cyapa ziri mu ibara ry'icyatsi ariko zandikishije undi,..

Icyumba kiringaniye kirimo ibyuma byinshi by'amoko atandukanye bicomekeranyije, bigaragara ko ari kwa muganga basuzumira abarwayi. Hari intebe ndetse hari na televiziyo iruhande rw'ibyo byuma.

Mu cyumba cy'umurwayi hagaragaramo umuganga uri kwita ku murwayi ari kumubaga mu kanwa amukuramo iryinyo. Muganga yambaye agapfukamunwa ndetse n'ingofero zabugenewe n'isaribeti.

Umugore ufite amenyo meza y'urwererane yasamye ariko yagaragaza, yambaye ingofero mu mutwe, afite akantu kariho urudodo yakegereje amenyo bishatse kugaragaza ko uru rudodo ashaka kurucisha amenyo ye.

Kwa muganga hari umurwayi urembye cyane ndetse iruhande rwe, hari abaganga batandukanye, bahagaze umwe ari kumuha umuti yamwasamuye. Undi kandi ahagaze imbere ye afite akuma ari kohereza umuganga w'undi.

Uyu ni umugabo wishimye, afite urudodo iyo yazirikiye ku ntoki ebyiri. Yarukweze agiye kurukatisha amenyo, yikuye hejuru nta mwenda yambaye. Arimo aramwenyura, amenyo ye yo hejuru no hasi aragaragara.

Abantu babiri umubyeyi n'umwana bambaye amasengeri y'umweru, ndetse bose imisatsi barayisukishije bafite uburoso bufite amabara atandukanye, umubyeyi ari kwigisha umwana uburyo wakoza amenyo.

Umugabo uri guhereza umwana amabwiriza uburyo azajya akoresha ama ekuteri, yambaye agapfukamunwa ariko yakambariye munsi y'umunwa, yambaye itaburiya ifite ikirango cya kaminuza y'u Rwanda, inyuma ye hahagaze abandi bantu bane; abagabo babiri ndetse n'abagore babiri.

Abagore n'abagabo imbere yabo hari korogate ndetse bombi bafite uburoso mu ntoki keretse umugore umwe wambaye isaha ku kuboko wafashe uburoso akabushyira mu kanwa bose barimo kumwitegereza bigaragara ko ari kubereka urugero rw'uburyo bazajya bagikoresha.

Mu cyumba cy'abarwayi kirimo umuganga ndetse n'umurwayi wambaye amaherena ku matwi, umuganga yambaye ibikoresho by'akazi birimo ga ndetse n'isarubeti n'agapfukamunwa, arimo arasuzuma umurwayi ko yaba arwaye indwara zo mu kanwa

Umugabo wishimye yambaye umupira w'amaboko magufiya w'umweru, yamwenyuye amenyo yo hasi nayo hejuru aragaragara, afite ishinya y'umukara ndetse amenyo ye nta nyinya n'imwe afite cyangwa ngo abe yarakutse yose arayafite.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano z'ikigo cyabo, bafite udukonji mu ntoki, bafite n'uburoso bari koza amenyo, bose kandi urabona ko babyishimiye bigaragaza ko bishimye kuba bari gukora isuku.

umwana mutoya urwaye indwara zo mu kanwa afite umusatsi mwinshi akagera n'ingoyi nyinshi muganga ariku yamwasamishije agiye kumurebera niba ari iryinyo arwaye ngo arikuremo, ritaramwangiza cyanehangaha umwana agomba gukurwamo iryinyo cyangwa se akitabwaho ari uko yasamye cyane umuganga yambaye ga z'icyatsi

Abagore babiri bafite imisatsi miremire, umwe afite ikaramu mu ntoki n'impapuro biragaragara ko ari gusinyira uyu w'undi bari kumwe, umwe yambaye ikositime ijya kuba ubururu undi yambaye ikositime y'umutuku, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'ubururu hateretseho amatelefone abiri ndetse n'amacupabiri y'amazi.

Umusaza wambaye amarineti akaba afite ekuteri mu gutwi ari muri siporo aho afite utuntu mu ntoki ari guterura ,ndetse yambaye imyenda yabugenewe ari ahantu hisanzuye hari ibiti bigaragara ko hari amahumbezi.

Umugore n'umugabo bicaye begeranye. Umugabo yambaye umupira w'umweru ndetse n'umugore yambaye umupira w'iroze. Bafite imisatsiy'imvi bigaragara ko bakuze cyane. Iruhande rwabo hari ameza amwe agezweho.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse haryamye n'umugabo wambaye umupira w'umweru, bigaragara ko arembye cyane, iruhande rwe hahagaze umuganga, ari kureba uko amerewe.

Abagabo babiri bambaye imipira y'imyeru ndetse umwe yashyize umupira w'umukara ku rutugu bari kugenda, umwe muri bo afite amazi, bageze iruhande rw'ingarandi imenamo imyanda kandi bari mu ishyamba ahantu hari ibiti ndetse n'ibyatsi hasi.

Umugabo n'umugore bafatanye ikiganza, umugabo afashe ku byuma biba biri ku mpande y'inzu, aho bari ni ku ruhande rw'inzu hanze hari amarangi y'umukara n'umweru.

Abagore babiri barimo gutembera hafi y'ishyamba, umwe yambaye umupira ariko nta ngofero yambaye, undi na we yambaye umupira ariko yiteza igitambaro cy'umutuku barimo baratembera basa nkaho bishimye, nkaho aha hantu ari bwo bahabonye bwa mbere, biragaragara ko aha hantu hafite ishusho nziza y'ibiti bya kinyarwanda.

Icyumba cyateraniyemo imbaga y'abantu harimo abagore, abagabo baje gufata ibiryo by'abana bibafasha mu mikurire yabo. Umujyanama w'ubuzima ni we ubibahereza, abifite mu gasorori gatoya, arimo aragenda ahereza umwe ku wundi.

Umugore ufite imisatsi miremire ndetse iruhande rwe hari ibinini by'umweru biharambitse, afite n'agacupa mu ntoki karimo indi miti ndetse iruhande rwe hari n'utundi ducupa twinshi. Hari mu nyubako inyuma ye igaragara, ifite ibirahure, hagaragarara hanze ibimera.

Umusaza ukuze, wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, afite imvi nyinshi ndetse afite n'inkoni. Yicaye mu muryango, yicaranye n'abana babiri ari kubagaburira. Umwana umwe afite akabuni gatoya, arasa nkaho ari gusomeza ibyo ari kurya.

Hano hari abagore batatu, bari gukina amakarita, ariko babiri nibo bari gukina bonyine, uwa gatatu arimo arabafana, ategereje ko umwe avamo n'awe akajyamo, babiri barimo barakina nk'aho ari mu rujijo, undi arasa nk'aho yamutsinze.

Umugabo munini uri mu nyubako afite igikombe cy'amazi y'umugezi ndetse afite n'ibinini mukundi kuboko biragaragara ko ari kunywa imiti kuko afite uburwayi, iruhande rwe hari ibikombe bihateretse n'ibindi biri ku rukuta.

Umugabo ari kwa muganga afite umuganga uri kumwitaho asa nkaho uyu mugabo afite indwara zo mu mutwe, uyu mugore akaba ari kumuganiriza kugira ngo amugabanyirize ibibazo byo mu mutwe, umugabo biragaragara ko afite imvi nyinshi mu mutwe ndetse no mu bwanwa yambaye amadarubindi.

Umugore n'umugabo ubona ko bakuze, bafite umusatsi urimo imvi nyinshi cyane, iruhande rwabo ku meza hari icyuma gikoreshwa kuri televiziyo ndetse n'impapuro nyinshi barimo gusoma, muri iyo nyubako barimo, harimo intebe nyinshi zitandukanye z'imisego kandi hariho n'ibirahure.

Uyu ni umudamu uri gukora imyitozo ngororamubiri biragaragara ko akuze kuko mu mutwe we higanjemo imvi nyinshi ari kuzikorera hasi ku itapi irambuye hasi mu nzu ntabwo ari kwirukanka.

Umugore w'umuganga wambaye imyenda y'imituku, agapfukamunwa, afite icyuma gipima umuvuduko w'amaraso ndetse imbere ye hari umukecuru wambaye ikanzu irimo amabara atandukanye waje kwivuza, iruhande rwabo hari ubusitani.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'imyeru ndetse abandi bakicara ku ntebe ngufiya zisanzwe zizwi ku ntebe z'urubaho, bari munsi y'igiti kinini ahantu hisanzuye ku kibuga.

Umukecuru n'umusaza bicaye mu nzu ku meza umusaza ari gufata imiti, umukecuru arimo aramwereka uko agomba kuyinywa mbere y'umusaza hateretse ikirahuri cy'amazi ndetse imbere ye hateretse agakombe ari gukuramo imiti.

Umugabo wishimye ubyibushye, ufite imvi nyinshi mu mutwe ndetse no mu bwanwa, ahagararanye n'umwana w'umukobwa umufashe ku rutugu, umwana w'umukobwa ari guseka biragaragara ko anezerewe, yambaye rinete ndetse n'agakufi mu ijosi.

Umusaza w’umuganga wambaye indorerwamo zimufasha kureba neza, ndetse afite ikaramu mu ntoki n'ikayi arimo kwandikamo ari ku meza, ndetse yicaye ku ntebe y’umukara ari mu nyubako nziza ifite ibara ry'umweru.

Umusaza wicaye mu ntebe yegamye afite inkoni mu ntoki ari guseka kuko afite umuganga uri kumwitaho arimo kumuganiriza bigaragara ko yaje kwa muganga kwivuza ,ari mu nyubako nziza cyane ifite irangi ry'umweru.

Abantu babiri bari mu nyubako irimo ibyuma bifasha umuntu kugenda, umugabo afite ikibazo cyo kutagenda ari kugendeshwa n'umuganga umuri inyuma, hari ibyuma agenda afasheho kugira ngo ataza kubura imbaraga akitura hasi.

Hanze y'inyubako hicaye abantu benshi mu ntebe z'imisego, ubona ko bose bakuze hari icyabazanye, bafite inkoni mu ntoki ndetse bigaragara ko hari icyo bategereje mu bufasha.

Ibirori byahuje abantu benshi imbere hari umusaza akaba n'umukecuru, umusaza yambaye ingofero yitangiye umwitero ufite amabara y'umweru n'umukara n'umutuku, umukecuru yitandiye umwitero w'umweru yambaye n'urunigi mu ijosi, umukecuru afite imvi mu mutwe we inyuma yaho hari abandi bantu benshi bigaragara ko nabo bakuze.

Haragaragara umuntu uri gutegura amafunguro ari mo imboga zivanze, karoti n'izindi mboga rwatsi zitandukanye biragaragara ko yishimye bishyira hejuru harimo haragaragara amatara ane asobekeranye.

Ibyishimo ku muryango mugari, hano hari umusaza ufite ubwanwa bwinshi wegeranye n'umumama hirya y'umumama hari abana babiri, hirya y'umwana wa kabiri hari umupapa wiyogoshesheje umusatsi wose awumaraho, biragaragara ko bose banezerewe kuko bose barimo baraseka.

Umugore ukuze wambaye umupira w'imbeho w'umweru urimo utudomo twinshi, afite isahani mu ntoki iriho ibiryo byinshi bitandukanye ndetse afashe ifoke mu ntoki, bigaragara ko agiye kurya. Ari iruhande rw’ahantu haba harimo akabati k'ibindi bintu bitandukanye.

Umukecuru n'umugore ukiri mutoya bari gutegura ifunguro hano hari imboga rwatsi ziri hano bari gutunganya hari n'urusenda inyanya ndetse n'izindi mbuto zitandukanye uyu mukecuru afite imvi nyinshi ndetse yambaye amarinet hakurya ku rukuta hamanitseho isaha.

Umugore n'umugabo bicaye muri saro hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, ndetse bari gusoma agatabo, iruhande rwabo hari n'ibikombe bibiri, by'umweru muri iyo nyubako kandi harimo amatara ndetse n'irangi ry'umweru.

Umurwayi ari kwa muganga, muganga ari kumuhereza ibinini, ari kumusobanurira ukuntu agomba kubikoresha, umurwayi afite ikirahure cy'amazi, ateze ikiganza, ategereje ko muganga amushyirira ikinini ku kiganza ngo abe yacyinywa, imbere ye ku meza hateretse agakarito gatoya karimo indi miti.

Umugabo wicaranye n'akana kari ku buriri ndetse uyu mugabo wicaye ku ntebe iri hafi aho ifite amapine bigaragara ko afite ubumuga. Mu nyubako barimo hari ikimera kiri inyuma yabo ndetse n'itara bigaragara ko ari ahantu heza cyane.

Umugore ukuzemo, ufite imisatsi yatangiye kuba imvi, ndetse yambaye umupira w'imbeho w'amaboko manini, ufite amabara atandukanye, harimo orange ndetse n'ibara ry'ivu n'umukara.

Umugabo ufite ubumuga bwo kutagenda, ari mu nyubako hari ibyuma ari kugenda agenderaho, ndetse hari umuganga wambaye impuzankano, uri kugenda iruhande rwe amwerekera uburyo atambukano

Umusaza wambaye ishati ya kaki, afite ubwanwa burimo imvi, imbere ye hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru w'umukobwa ukiri muto, arimo aramupima umuvuduko w'amaraso ndetse n'uko umutima we urimo utera.

Umukecuru wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, ahagaze imbere y'umusaza, wambaye ishati iri mu ibara ry'ivu, bombi bafite imisatsi irimo imvi.

Uyu mugore n'umugabo bose bakuze ubona bari mu nyubako irimo ibinini, ndetse bigaragara ko hari umwe urwaye, bimwe bari kubipfundura bigaragara ko bari agiye kubinywa.

Umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri, ari kuyikora yicaye hasi, yambaye umupira w'imbeho ndetse n'ipantaro isa move. Ntabwo ari kuzikora yirukanka ari kuzikora yicaye hasi ku itapi.

Abagabo ndetse n'abagore bishimye barimo baraseka, bahagaze mu murima urimo ibihingwa bitandukanye, umugore urimo yambaye umwenda w'igitenge urimo amabara y'umutuku ndetse n'umuhondo.

Abagabo babiri bafatanye ku rutugu umwe yambaye ingofero y'urugara, bari kugenda mu nzira iruhande rwabo hari ibiti bitandukanye ndetse hari n'itara, bigaragara ko hari utuyira tugendwamo cyane mu mujyi.

Umugore ufite imisatsi miremire arimo arakora imyitozo ngororamubiri, arahumirije yarambuye ibiganza bye abikoza ku kirenge cye cy'iburyo ukuguru kw'ibumoso arasa nkaho yakwicariye, ahangaha biragaragara ko ari kunanura amaguru ndetse n'umugongo.

Umukecuru ukuze wambaye urunigi mu ijosi, ufite imvi bombo yambaye akari umuringa ku kuboko, yiteye umwitero w'umweru yambaye agapira k'ubururu afite imvi nyinshi mu mutwe, ahagaze mu kibuga biragaragara ko hari imodoka nyinshi ziri kugenda zituruka inyuma ye, hirya hirya ye hari inzu isize irangi ry'umweru ndetse n'ibiti by'inganzamarumba.

Icyapa kiriho umugore ufite imisatsi yasutse ndetse wambaye agapira k'umutuku, iruhande rwe hari amagambo menshi ahanditse, ajyanye n'icyorezo cya Kovide.

Umugabo urembye cyane uryamye ku gatambaro hasi hari n'abaganga babiri bambaye imyenda yabugenewe umwe arigukora ku miti ndetse hari n'abakoreraranabushake batatu.

Mu cyumba kivurirwamo abarwayi, harimo abaganga batandukanye bambaye imyenda, iri mu ibara ry'ubururu, ndetse n'udupfukamunwa barimo baravura umurwayi.

Abagore bafite abana ndetse bicaye bategereje umuntu ugiye kubakira, bigaragara ko ari kwa muganga baje gukingiza cyangwa kubavuza mu gihe baba bafite ikibazo gitandukanye.

Umuntu wagize ikibazo aza guhura n'ubushye yokejwe n'amazi ashyushye ibi biragaragara ko ari amazi yamumenetseho ku kuboko byarangiza bikarangira atangiye kugenda yomokaho uruhu, none ubungubu akeneye ubutabazi bw'ibanze agomba kujyanwa kwa muganga byihuta.

Aha ni kwa muganga aho bakirira abarwayi barwaye indwara z'uruhu, mu ndwara z'uruhu habonekamo nk'ise, ishitu, ibiheri, ibibyimba ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Aha ngaha hari abarwayi biganjemo abagore.

Iki kinyamakuru kigaragaza ko aba umubyeyi yishimiye umwana we, hirya gato y'uwo mugore hari abantu bambaye neza, bambaye amashati y'imyeru ndetse n'amakaruvati y'imikara, biragaragara ko iki kinyamakuru cyari cyasuye uyu muntu.

Abagabo babiri b'abanyacyubahiro bishimye bambaye neza. Bose bambaye amakositimu, umwe yambaye amarinete undi ntabwo ayambaye ariko yambaye impeta ku kuboko. Biragaragara ko bari guhererekanya ububasha, umwe akaba asimbuye undi ku kazi.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi, udupfukamunwa tw'icyatsi ndetse bambaye imyenda y'akazi iri mu ibara ry'ubururu, bafite ibyuma bipima umuvuduko. Ndetse bambaye na ga mu ntoki.

Inyubako nziza ifite amarangi atandukanye izwi ku izina rya conveshoni. Ni imwe mu nyubako nziza mu Rwanda, hahagaze umukobwa wambaye akajipo gatoya ndetse wifashe yipfumbase.

Icyumba kinini kirimo abantu benshi ndetse bicaye, hari abahagaze imbere bambaye imikenyero n'imyitero, bari kubyina bateze amaboko nk'inyambo, bigaragara ko ari umunsi mukuru wabaye, hanyuma abantu bakabyina bisanzuye bari kuwizihiza.

Abantu benshi batandukanye bambaye amakoti abandi amakanzu, bari mu nyubako nini ikorerwamo inama ndetse bicaye ku ntebe z'imituku, bigaragara ko ahantu bari bateze amatwi ibiri kuhavugirwa.

Abaganga bari ahantu hamwe bambaye imyenda y'akazi ndetse n'udupfukamunwa, iruhande rwabo hari ibyuma bitandukanye, bicometsemo insinga nyinshi ndetse hari na televiziyo iri ku rukuta kandi iri kugaragaza amashusho, inyubako barimo iriho irangi risa nka kaki.

Ikirango cy'u Rwanda kiri mu mabara abiri iri bara ry'ubururu n'iryumweru, hagaragaramo ishusho y'agaseke izuba rigaragara hejuru y'agaseke icyayi i ruhande rw'agaseke ndetse n'ishaka.

Abaganga babiri bambaye imyenda y'akazi ndetse n'udupfukamunwa, ama runette, bari kwita ku murwayi urwaye indwara zo mu kanwa, muganga arimo aramusuzuma ngo arebe ko ari amenyo arwaye. Hirya gatoya hari abandi bantu benshi bari kwitegereza ukuntu umurwayi bari kumwitaho.

Inyubako ngari irimo abantu bicaye bateze amatwi imbere yabo bahagaze umugore wambaye neza afite indangururamajwi mu ntoki kandi kuruhande hari n'ushinzwe guhindura cyangwa gutunganya ibyuma.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro ya kaki n'inkweto z'umukara, yicaye ahantu hari icyumba cyijimye. Harimo utwana twinshi twambaye impuzankano z'ishuri. Bigaragara ko ari kubabaza ibibazo bitandukanye.

Icyumba kinini kirimo abantu benshi batandukanye baturutse impande n'impande, bamwe baricaye abandi bahagaze inyuma yabo. Ndetse inyuma yabo hari icyapa cyanditseho insanganyamatsiko baganiragaho, hari n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda mu ruhande rw'ibumoso.

Abantu bari mu nama bicaye bafite mudasobwa imbere ndetse n'icupa ry'amazi, uwo mugabo uri kubaganiriza yambaye ikoti ry'umukara, afite indangururamajwi mu ntoki ndetse hari n'icyapa imbere kiriho insanganyamatsiko y'ibyo arimo kubigisha.

Abaganga bambaye amataburiya y'umweru, amataburiya afite ingofero. Bambaye udupfukamunwa tw'ubururu ndetse n'ibirineti bibapfuka mu maso. Bambaye na ga ku biganza, ku mataburiya yabo handikishijeho inyuguti z'umukara.

Abantu benshi batandukanye bambaye udupfukamunwa, bamwe muri bo bambaye amajiri y'akazi ndetse iruhande rwabo ku meza hariho impapuro nyinshi ndetse n'imiti, bigaragaza ko bari kwivuza hari umuganga ndetse n'abarwayi.

Ku kigo nderabuzima, hicaye ababyeyi bane bakikiye abana b'impinja bakiri batoya, baje gufatisha urukingo rw'abana rubarinda indwara, ndetse no kuzahara mu mikurire yabo, baje no kugirwa inama uko bazajya babahereza ifunguro.

Inyubako nini irimo ibyuma byinshi bitandukanye ndetse ni ibya siporo bimwe bifashisha bari kugorora ingingo z'umubiri, hanze y'iyo nyubako hari ubusitani bwiza kandi n'ibiti bihazengurutse by'amoko atandukanye.

Urukuta runini rwubakishije amatafari, amabuye ndetse hariho n'ibyuma mo imbere, harimo ibyuma byifashishwa n'abana bari kwicunda, ndetse hari n'ibiti bitandukanye bihakoze ubusitani.

Imodoka iparitse ku muhanda hari umugabo uyihagaze iruhande gato inyuma ye gato hari abagabo batatu umwe yambaye kositimu yabo hari nuba bahagazemo hagati hepfo y’imodoka gato hari inzu nini hakaba n'utundi duto dusa nkaho twakirwamo abantu cyangwa se abantu bategerejemo ubufasha akaba aribo bahagarara iruhande haruguru yatwo gatoya hari akajaride gateye umukindo umwe.

Icyumba kigari kirimo ibitanda ndetse n'inzitiramibu, hari umurwayi uryamye uteye na serumu, hari umugabo wambaye imyenda y'akazi uri kuzinga inzitiramibu.

Kwa muganga ahatangirwa serivise z'ubuvuzi, hari abakozi bahakora bambaye amataburiya y'imyeru, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, barimo baravanga imiti yo kuvura abarwayi.

Inyubako igereretse inshuro ebyiri, ifite ubusitani bwiza bu utasanga ahandi burimo indabyo nziza zejeje utuntu twumutuku ndetse iruhande rwayo hari ikibuga kinini.

Icyumba kinini kirimo ibitanda bisashe neza bimwe bifite amapine ndetse ku rukuta hariho irangi ry'umweru hari ibirahuri bigaragara ko icyo cyumba giciyemo kabiri.

Inyubako irimo ibitanda bifite amapine biryamwaho n'abarwayi, hari icyuma kiba kiri iruhande y'aho bashyira serumu mu gihe umurwayi arembye cyane, hari n'ibindi bikoresho biri muri iyi nyubako bifashisha bavura abarwayi.

Icyumba kigari kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, bimwe bikoreshwa muri siporo, biba bigaragaza ibiro by'umuntu ndetse hari n'ibyo bakoresha mu kugira ngo bagorore ingingo z'umubiri.

Umurwayi wicaye ku gitanda kwa muganga, iruhande rwe hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ishati y'igitenge, afite igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu gupima umutima, arimo aramusuzuma.

Abagore n'abagabo bahagaze imbere y'inyubako nini ndetse bambaye neza. Biragaragara ko basohotse muri iyo nyubako, ifite ibirahuri biva hasi bikagera hagati na hagati y'iyi nyubako.

Ikigo kinini kigizwe n'amazu menshi afite amabati atandukanye, hamwe nubururuahandi ni icyatsi ahandi ni umutuku harimo imikindo myinshi n'ubusitani bwiza kandi busa neza, hari ingarani bamenamo imyanda ikoreshwa cyane cyane ku bigo by'amashuri.

Inyubako nini imwe ifite amabati agezweho ndetse isize amarangi y'umweru n'umukara werurutse, hari abantu benshi batandukanye babiri bafite ibidomora bari i ruhande rw'ibendera ry'igihugu.

Umuhanda w'igitaka ugana ku nyubako nziza cyane bigaragara ko ari ahantu hakorerwa ibintu bitandukanye, hahagaze imodoka y'umukara, inyuma yayo hari umuntu uhahagaze ndetse hari icyapa kizengurutswe n'indabyo kihari hafi y'izo nyubako.

Ibi ni ibitaro bya Nyanza, bifite urugi rw'amarembo asize irangi ry'ubururu, yanditseho inyuguti za ha zandikishije amagambo y'umweru. Ku rukuta hasize irangi ry'umukara n'umweru, mo imbere hateye igiti cy'inganzamarumbo.

Icyumba cyigari cyisanzuye, kirimo intebe ndetse kikabamo n'igikombe kirimo ururabyo, ku rukuta handitseho ko siporo ari umuti, bigaragaza ko iyo nzu ikoreramo siporo gusa.

Inyubako nziza ifite irangi ry'umweru, irimo ibyuma by'ikoranabuhanga bitandukanye, harimo televiziyo ndetse n'ibindi bikoresho, insinga zitandukanye na za mudasobwa. Byose biteretse ku bitereko byatwo.

Inyubako ngari ifite amarangi arimo umweru, umuhondo ndetse n'umukara hari n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara hari abantu bahagaze imbere y'iyoyubako inyubako kandi ifite kamera amatara ndetse n'ibirahuri.

Abantu benshi bambaye imyenda y'ibisarubeti ndetse by'imyeru n'udupfukamunwa tw'umweru, bari mu nyubako irimo ibitanda byinshi bitandukanye ndetse n'inzitiramibu, bigaragara ko ari kwa muganga ari abarwayi baharyamye ndetse harimo n'intebe z'imikara.

Aha ni kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi umuganga ari kumanika inzitiramubu aho umurwayi aryamye kugira ngo imibu itera malariya utaza kuza kumuruma ukamusigamo malariya.

Abantu benshi batandukanye bicaye ahantu ku gasima hari inyubako nyinshi zitandukanye ndetse n'ibiti bihateye, hari indabyo n'ubusitani bwiza izo nyubako ziragaragara nko kwa muganga aho bivuriza.

Inyubako ikorerwamo siporo. Irimo ibyuma byinshi bitandukanye ndetse bimwe biterurwa mu maboko, hari n'utugare twa siporo ndetse hari n'ibindi byuma bitandukanye bifite amoko atandukanye.

Kwa muganga iruhande rw'inyubako y'inzu y'ababyeyi, imwe babyariramo, hahagaze abantu benshi, bamwe barasutamye kandi bose bari kureba mu cyerekezo kimwe, uretse abagabo babiri bari ku ruhande bifashe mu mufuka.

Icyumba kiri mu nyubako kirimo abarwayi baryamye ku bitanda bimwe bifite amapine ndetse bigaragara ko barembye cyane kuko babacometseho bya byuma bibongerera umwuka kandi ubona ko nta mbaraga bafite hari ibyuma byinshi bitandukanye ndetse n'udukoresho bifashisha nk'amazi ndetse n'ibindi.

Kwa muganga mu bitaro aho umurwayi aryamye bamumucometsemo serumu. Yiyoroshe amashuka arimo ibara ry'ubururu, umutuku ndetse n'ibindi bijya gusa umweru. Inyuma ye hari amarido azingiye ku rukuta ndetse hino imbere ye hari akabido k'umweru.

Aha haragaragara umwana ukiri mutoya uri gusunika papa we mu kagare k'abamugaye. Agiye kumwinjiza hano birasa nk'aho ari mu biro by'umurenge, mu muryango hahagazemo undi mukobwa wambaye umupira w'umweru ufite umusatsi usanzwe udasutse.

Icyumba kinini kirimo ibitanda, bimwe bifite amapine. Harimo n'inzitiramibu ndetse n'amashuka akingirije ahaba ibitanda, bigaragara ko ari kwa muganga. Kuko hagiye harimo ibipande byinshi.

Abagabo babiri bari mu nyubako ikorerwamo inama ndetse imbere y'umugabo wicaye hari mudasobwa, telefone n'icupa ry'amazi, undi we arahagaze ari kumusobanurira ibiri imbere ku kibaho.

Aha ni ku kigo nderabuzima cya Matyazo haragaragara abamama bari gusohokamo, urebye bavuye guhabwa serivise, harimo umugore utwite ashobora kuba avuye kwisuzumisha, iyi nzu ifite amabati y'ubururu, ifite ikigega kiri aha gana hejuru ku mabati isize irangi ry'umweru.

Ibitaro, inyubako ivurirwamo indwara z'amaso, hari icyapa cyanditseho amagambo y'ubururu, ndetse iki cyapa kiri mu ibara ry'umweru, hashushanyijeho ijisho.

Inyubako nziza ifite amarangi atandukanye igeretse kabiri, ifite ibyapa bigiye bitandukanye, hamwe bagaragaza ko bahacururiza ibikoresho by'ikoranabuhanga, ahandi imiti ndetse hari ibipope biri hanze byambaye imyenda, bigaragaza ko hari isoko ry'imyenda.

Inyubako ifite ibaraza, imbere yubakishije amatafari ameze nk'amakoro. Har’abantu babiri barimo gutambuka mu kirongozi gihari ndetse haranasakaye ku imvura iguye ntawanyagirwa.

Ibitaro byo kwa Nyirinkwaya byamamaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu mujyi wa Kigali, ni ibitaro bitanga serivise nziza zigiye zitandukanye ziganjemo iz'ubuvuzi.

Umuhanda w’amapave, hari abantu bari kuwutemberamo, ni abantu batatu, umwe ari imbere afite aka base, undi ari inyuma afite umwana amufashe akaboko. Uyu muhanda ukikijwe n'indabyo z'amoko atandukanye, hirya gatoya hari amoko y'amazu atandukanye.

Umuganga wambaye impuzankano z'akazi n'ingofero mu mutwe ibaranga ndetse na ga mu ntoki ari mu cyumba kirimo ibikoresho byose bihagije ndetse haryamye uruhinja imbere ye ari kurwitaho arufashe akaboko.

Inyubako igeretse rimwe, ifite amarangi meza cyane hari n'ubusitani bwiza cyane, ndetse ikagira n'ikibuga kinini n'amapave aho abantu bagenda batambuka, ku buryo ntaw’ugihura n'ibyondo mu gihe agana kuriyo nyubako.

Aha ni ku kigo nderabuzima. Haragaragaza ko ari umubyeyi, wagiye gupimisha ibiro by'umwana ugejeje hagati y'amezi atanu n'atandatu, ubu biragaragara ko umwana bamwambitse sarubeti, barangiza bakayimanika hejuru ku munzani.

Icyumba kinini kirimo abantu batandukanye, abagore n'abagabo, bambaye impuzankano. Bigaragara ko baje mu nama ndetse abagore bari ku ntebe z'ino zigezweho. Bafite utumareti mu ntoki bitwaje.

Umurwayi uryamye ku gitanda kwa muganga asinziriye bamucometsemo ibimwongerera amaraso, imbere y'igitanda cye hari inkweto z'umukara agomba kwambara abyutse mu cyumba imbere harimo irido z'ubururu zizinze.

Inyubako iba muri zimwe ziba kwa muganga, iberamo isuzuma, aho basuzumiramo ibizamini, hicaye abantu hanze bategereje ibisubizo ndetse hari n'ubusitani bwiza bw'indabyo zimaze igihe zikoreshwa cyane.

Ni kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hari abaje gushaka izi serivisi. Bicaye ku ntebe batonze umurongo. Imbere yabo hari umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse n'agapfukamuwa k'umweru.

Inzu nziza ifite amarangi atandukanye, biragaragara ko igeretse rimwe, inyuma yayo hari umunara muremure ikikijwe na jaride, harimo igiti cy'inganzamarumbo, gikuze hino gatoya hari indabyo iruhande rwayo hahagaze abantu.

Umugabo wambaye isarubeti y'umweru irimo ibishushanyo bitandukanye ndetse afite akuma mu ntoki ari kugenda akoza hasi, iruhande rwe hari indobo ebyiri ndetse iyo nyubako igizwe n'ibirahure, bometseho ibintu by'ibyapa bitandukanye.

Kwa muganga hari inyubako basuzumiramo ibizamini, hari ibyuma byinshi bitandukanye bibafasha mu gusuzuma ndetse harimo abaganga bambaye udupfukamunwa ingofero mu mutwe ndetse n'amataburiya, hari n'abandi bari inyuma yabo bambaye imyenda isanzwe.

Inzu nziza isize amarangi atandukanye ikikijwe n'ibirabyo ndetse n'amajarid hafi yayo hari abantu bahagaze biragaragara ko ikirere cyaho hejuru harimo ibicu ariko nta mvura gifite.

Inyubako ndende igeretse kane, ifite ibirahure impande zose kuva hasi kugera hejuru, ndetse ifite n'indi nyubako nto iri mu ruhande rwayo, hari icyapa cyanditseho imibare cumi na kabiri ndetse kiri mu ibara ry'umweru n'umukara.

Imodoka nyinshi z'amoko atandukanye, harimo iz'umukara ndetse n'iz'umweru, hagati yazo harimo umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umutuku, iruhande rw'izo modoka hari inyubako nini igeretse inshuro eshatu.

Kwa muganga mu bitaro umuganga ari kwita ku murwayi uri kugendera mu kagare k'abamugaye, uyu muganga yambaye agapfukamunwa k'ubururu n'umurwayi yambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'amadarubindi, inyuma ye hari abandi baganga ndetse n'abarwayi bari kwitabwaho.

Inyubako irimo ibitanda ndetse harimo umurwayi uryamye agaramye. Harimo ibyuma byinshi bitandukanye birimo kwaka, bigaragaza ko ari aho bashyira abarwayi barembye cyane.

Inyubako ngari yisanzuye irimo ibikoresho byinshi bitandukanye bigaragara ko aho bakora siporo hari utugare ndetse n'ibindi bifite amapine bigaragaza ko babyifashisha barimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Inyubako nziza irimo intebe z'imisego, z'amabara atandukanye, ndetse hagati yazo hari ahantu hamezemo ibimera bitandukanye, bigaragaza ko ari umutako, ifite amarangi y'amoko menshi, harimo umweru, ikigina, umuhondo, ndetse n'andi atandukanye.

Inyubako nyinshi ziri ahantu mu kanunga hejuru hisanzuye, zifite amabara atandukanye ndetse n'amabati amwe agezweho hari amapave asashe aho abantu banyura ndetse n'ubusitani bugiye buzengurutse iyo nyubako.

Kwa muganga mu cyumba cy'ubusuzumiro, hano hari umukobwa wicaye imbere ya muganga biragaragara ko ari kumubaza uko yiyumva atanga ibizami ngo muganga abone uko amwandikira imiti, inyuma ye hari undi muganga wambaye imyenda y'ubururu ufite umusatsi muremure, ufite n'igitabo mu ntoki.

Inyubako nziza ifite irangi ry'umweru ndetse hari n'ahatetse ibikombe binini birimo ururabyo, iyo nyubako ifite aho basohokera naho binjirira n'amatara ari hejuru mu gisenge.

Icyumba kinini kirimo ibitanda byinshi bitandukanye ndetse bishashe neza kandi bigaragara ko ari kwa muganga, harimo na kamera nyinshi zifata amashusho y'ibihabera byose.

Iyi nzu irakirirwamo abantu bahohotewe bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, aha ngaha biba bigaragara ko hatuje kuko ntabantu benshi bahari niyo mpamvu aha ngaha abantu bose bahisanga kugira ngo abantu bose batamenya amabanga yabo cyangwa se batamenya ababahohoteye.

Icyumba kinini cy'isanzuye kiri mu nyubako harimo amarido agaragaza ibitanda by'ibereye bigaragara ko ari kwa muganga hari n'ibyuma byinshi bitandukanye byifashishwa mu kuvura.

Inyubako nini ifite igisenge cy'amabati n'ibyuma ndetse imbere yayo hari abantu benshi bambaye imyenda y'imyeru hejuru, hasi imikara uretse umwe ufitemo ikoboyi, bafite udupaniye mu ntoki, harimo utuntu tw'umweru.

Inzu nziza y'urwererane ikeye, isize amabara atandukanye harimo umuhondo ndetse n'umweru, aha ni aho abaganga bahurira mbere yo gutangira akazi cyangwa se nyuma basoje akazi.

Aha ni kwa muganga, mu cyumba cy'abarwayi harimo ibitanda bitatu, kimwe icyo hino byose bisashaho umwenda w'icyatsi, kimwe cyo hino n'icy'umurwaza, bibiri byo hirya n'iby'abarwayi barembye, ku rukuta hamanitseho ibitambaro, hirya hejuru hariho itara riri kwaka.

Inyubako nziza igeretse inshuro nyinshi, ifite ibirahuri byiza bitabona kandi bisa neza kuva hasi kugera hejuru, yanditseho icyapa kigaragaza ko hari aho bigishiriza ibintu bijyanye na tekiniki, iruhande rw'iyo nyubako hari imikindo n'ubusitani.

Icyumba cy'ubutabazi ahangaha ni ahantutu umuntu aho ahungira cyangwa se aza gutabariza mu gihe atameze neza wenda haba habayeho nk'inkongi y'umuriro cyangwa se hari ikindi kintu gikomeye kimubayeho ahita yihutira kuri iki cyumba cy'ubutabazi kugira ngo bamufashe byihuse.

Inyubako nini cyane igaragaza ko ari kwa muganga kuko ari bya bitaro byigenga, harimo intebe abaganga bakoresha kugira ngo bafashe abarwayi.

Inyubako irimo ameza, intebe ndetse n'uducupa duteretse ku kabati kagaragara, hari ibishushanyo biri ku rukuta ndetse biriho abantu babiri bafite utuntu mu ntoki.

Inyubako nziza ifite irangi ry'umweru, hagati mu kibuga harimo umuntu uri kugendera mu kagare ufite ubumuga bw'akaguru, ndetse hari ubusitani bwiza, n'undi muntu uhagaze udafite umuga, uri kugenda n'amaguru agana ku kigega kijyamo amazi.

Icyumba kigari kirimo ibyuma byinshi bitandukanye, bimwe byifashishwa muri siporo, cyane cyane bikunze gukoreshwa n'abahungu ariko ubu ngubu n'abakobwa bamaze kumenya akamaro ka siporo, basigaye babyitabira bakajya muri icyo cyumba kibamo ibyuma byinshi bitandukanye bya siporo.

Abakozi bo kwa muganga bashinzwe gukora amasuku, barimo barakoropa, bambaye udupfukawa ndetse n'uturindantoki, bafite ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gukora isuku.

Inyubako nziza irimo ibitanda ndetse n'amashuka ku mpande, hari utumeza iruhande rwa buri gitanda kandi hari n'ibyuma bicometse, ku mutwe w'igitanda bigaragara ko ari kwa muganga haba hariho abarwayi.

Inyubako nini ifite igisenge kirimo amabara atandukanye, hari intebe z'imisego ziri hasi ndetse harimo n'indabyo nyinshi ziri mu tuntu tw'udukombe twabugenewe ndetse harimo n'icyuma cyinjiza umuyaga mu nzu.

Inyubako nziza itangaje. Iyi nyubako isize amarangi atandukanye agera mu moko atatu. Hari irizwi nka gere, hakaba irizwi nk'ikigina ndetse n'irisa n'ikivuvu. Iyi nzu ikikijwe n'indabyo ndetse n'iy'irangi risize ahagana hasi ku muhanda ry'umweru n'umukara.

Umugore wambaye itaburiya n'agapfukamunwa k'umukara yicaye imbere ya mudasobwa afite imbeba mu ntoki agenda akoresha izina zizwi arizo zikoreshwa ku mashini.

Ikigo gishinzwe kuvura kanseri, cyubatswe neza imbere yacyo hari jaride irimo igiti kirimo hagati.

Imiti y'amoko yose, imwe ifunze mu dukarito twabugenewe, indi iri mu ducupa, biri mu kabati k'umweru n'icyatsi ndetse biri mu nyubako nziza, irimo amatara abiri. Hari n'intebe yo kwicaraho.

Inyubako igeretse kabiri ndetse ifite amatafari amwe y'impunyu ariyo ayubakishije, iruhande rw'inyubako hari ibyapa byinshi biyobora abantu aho bagomba kunyura ndetse hari na moto ihaparitse aho imodoka zihagarara ndetse hari n'ibiti biri iruhande rw'iyo nyubako.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hari imashini yabugenewe ipima uko umutima utera ndetse n'umuvuduko w'amaraso nawo barawupima.

Icyumba kirimo abantu bambaye udupfukamunwa ndetse harimo n'abagabo bambaye amakoti, hari televiziyo iri imbere, irimo ikiganiro runaka, bose urabona bakurikiye, ku meza abari imbere hariho mudasobwa na yo irimo ikiganiro ndetse n'amatelefoni.

Umusore wambaye umupira w'umweru ufite agatambaro yashyize ku kuboko, bigaragara ko yavunitse ndetse yambaye ikoboyi y'ubururu. Yicaye ku ntebe y'umweru ndetse inyuma yayo hari akabati kagaragara igice.

Umugabo n'umuganga bari mu cyumba, umugabo ari gukora imyitozo ngororamubiri arimo aragenda akoresha ukuboko kumwe ahinduranya n'ukundi, yicaye imbere ku bibero bye yarambuyeho igitambaro muganga niwe uri kumubwira ukuntu agenda akora imyitozo ngororamubiri.

Abagabo babiri, umwe yambaye itiriningi ndetse ari gukora mu ntoki z'umuntu wambaye ga zifashishwa muri siporo, nawe wambaye umupira w'umweru ndetse afite n'akandi gapira yashyize ku rutugu k'umutuku.

Umugabo wambaye umupira w'umweru afite isaha ku kuboko ndetse afite n'icupa ry'amazi ari kunywa, yambaye utuntu dutuma yumva neza mu gutwi bita kuteri.

Umuntu wagiye muri siporo avunikirayo, yaje umuntu ari kumwitaho amuzirika igitambaro ku kuguru kw'iburyo kuko ariko kwagize ikibazo kukavunika, yabanje amukuramo inkweto amwambura n'amasogisi ku buryo ari kumuzirika, ngo uku ukuguru kw'iburyo kwe kumererwe neza.

Umugabo bigaragara ko akuze ari kunywa amazi asa nk'aho ari mu myitozo ngororamubiri yicaye hasi ku kaboko ke hariho ibabi ry'icyatsi yambaye isengeri ndetse n'ikabutura ntoya.

Umugabo uri mu nzu bakoreramo imyitozo ngororamubiri itandukanye, ari gukora siporo yo guterura ibyuma, ari gukoresha igikoresho kizwi nk'ariteri, ari kugiterura akizamura, akigeza ku gatuza, akongera akakimanura acyegereza ku matako ye.

Umuntu ufite ikibazo ku kaguru hafi y'akagombari bigaragara ko yavunitse, yicaye ku buriri afite ikintu gikoze mu buryo bw'ishashi ari kwikanda.

Abana bari gukina umupira biragaragara ko bishimye nkaho batsinze; harimo umwana ukiri mutoya ufunze igipfunsi uri guserebura; yazamuye ukuboko afunze igipfunsi; inyuma ye hari umuntu mukuru uri gukoma amashyi.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri unanutse yicaye hasi niho ari gukorera siporo yambaye ikabutura ndetse n'isengeri, ari gukanda ivi ryo ku kuguru kw'ibumoso ndetse akurambura yongera akuzinga.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yarambuye ukuboko kumwe ari kugushyira ku mano ukundi ari kugushyira ku mavi akeneye kugenda amanura umutwe awushyira ku mavi yongera awuzamura akagorora ukundi kuguru nanone akabikora gutyo.

Urusobe rw'ibikoresho bya siporo, hari ibikoresho bisuzuma indwara y'umutima, hari idenesi ry'icyatsi, hari idenesi ry'umweru, hari iritukura, hari n'umupira munini w'umukara n'umweru.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri biragaragara ko yunamye yafashe ku ivi ry'ibumoso ku kiganza cye cy'ibumoso yambayeho isaha ni yambaye ikabutura ntabwo yambaye ipantaro y'imyitozo ari gukora.

Umusore uringaniye ari muri siporo aho arimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ekuteri ndetse n'agasengeri gatoya kabereye umuntu ukora muri siporo.

Ikirahuri kirimo gisukwamo amazi avuye mu icupa, amazi meza y'urubogobogo asa neza. Ni byiza kunywa amazi kuko bituma ubuzima bwacu burushaho kumera neza.

Ubu ni uburyo bwifashishwa uzirika ikiganza cyawe igihe ugiye mu myitozo cyangwa se igihe cyakomeretse cyangwa se cyavunitse, ubu ni uburyo bwiza butuma ukira vuba.

Icyumba kirimo imbuto zitandukanye harimo urusenda rw'umuhondo n'urw'umutuku, hakabamo voka, hakabamo amacunga ndetse n'ibindi bimera bitandukanye n'icupa ry'amazi n'icyuma cyifashishwa mu gukora umuti.

Igikapu cyifashishwa kwa muganga, kiri mu ibara ry'umutuku, gitwarwamo ibikoresho byifashishwa bavura cyangwa se basuzuma umurwayi. Harimo imikasi ndetse n'ibindi.

Aha haragaragara abantu cumi na batatu, bose batanga ubutabazi mu bijyanye no gutanga amaraso, bari gufasha umurwayi, umuntu wagize ikibazo bari kumufasha bamuteruye kumuryamisha.

Umukobwa wambaye isengeri y'ubururu ufite imisatsi yazirikiye inyuma; biragaragara ko ari muri siporo hafi y'umugezi; afite icupa mu kiganza ari kunywa amazi yashyize ku munwa.

Umukobwa uri kunywa amazi, ari kuyanywera mu icupa rifite umupfundikizo w'ubururu; yambaye ikanzu ifite amabara y'ubururu ndetse umweru n'icyatsi n'umukara; yitandiye igitambaro cy'umweru ku ijosi.

Uyu ni umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri ari kuyikora yicaye hasi ntabwo ari kwirukanka, aricaye yashyize amaboko ku mutwe, ari kugenda arambura inda ayikoza ku mavi ndetse n'umutwe awukoza ku mavi ahari arambije.

Icyumba kigari kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi byifashishwa mu myitozo ngororamubiri hanze y'iyo nyubako hari indabyo z'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo muri iyo nyubako kandi ntitwabura kuvuga ko harimo na tereviziyo.

Ibikoresho bitandukanye. Hano harimo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri. Harimo umugozi wo gusimbuka ndetse hakabamo n'inkweto zo gukorana imyitozo ngororamubiri. Hano hari udukoresho twifashishwa umuntu ari kumva umuvuduko w'amara, umuvuduko w'amaraso cyanga se wumva niba waba urwaye umutima. Ku isahani hano hariho inyanya ndetse n'izindi mbuto.

Hano haragaragara abagabo babiri bari gukora imyitozo ngororamubiri umwe arasa nkaho ari kunanura imitsi ihereye ku kuguru kw'ibumoso yaryamye agaramye yambuye umupira w'ubururu yambaye n'ikabutura ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru n'ubururu yambaye amasogisi y'umukara n'umweru undi yambaye isaha k'ukuboko kwe kw'ibumoso.

Umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari kuyikora yicaye hasi ku itapi arimo arahina amaguru yo mu mavi ayakoza ahagana mu kwaha yongera akayarambura, ibiganza bye byahuje ibirenge byombi ku rutoki rumwe yambaye impeta.

Imodoka iri mu muhanda umuhanda ukikijwe n'indabyo imbere y'imodoka hakurya hari ibiti bikuru hari n'amazu agaragara nk'aho ari ikigo cy'amashuri impande y'umuhanda kuruhande rwa ruguru hariho amabara y'umukara n'umweru.

Umukobwa wambaye isengeri afite icyuma gipima umuvuduko, uko amaraso atera iyo uri muri siporo ndetse yambaye na ekuteri z'umweru, afite imisatsi miremire yazirikiye inyuma, afite n'icupa mu ntoki ari kunywa amazi.

Ikibuga kigezweho gikinirwamo umupira w'amaboko, harimo umusore wambaye imyenda ya siporo ufite na balo mu ntoki ndetse harimo n'undi ugendera mu kuma gafite udupine na we wambaye imyenda ya siporo.

Umusore uri muri siporo wambaye ipantaro yabugenewe ndetse n'inkweto za siporo afite icyuma yiziritse ku kuboko aho areba iminota yakoze siporo n'uburyo amaraso azamuka imbere ye hari icupa ry'amazi aribuze kwifashisha kuko iyo umuntu akora siporo akenera amazi menshi mu mubiri.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, hari aho bakupira umuriro mu gihe mu nzu habayemo ikintu k'inkongi y'umuriro cyangwa havutse ikindi kibazo, hari n'ibindi byuma byinshi bitandukanye bimeze nk'irimo ibindi bikoresho, ndetse hari n'icyuma giteretse hirya ku ruhande.

Uyu ni umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye inkweto z'umweru, ipantaro yoroheje, isengeri cyangwa se isutiya, arimo arakora imyitozo ngororamubiri akora munsi y'ibirenge, agorora amaguru ndetse n'amaboko ndetse n'umugongo.

Umukobwa wambaye isengeri y'umukara ipantaro y'umukara ndetse wiyambitse icyuma ku kuboko kigena iminota amaze gukora afite icupa ry'umweru ari kunywa amazi, iruhande rwe hari ibiti bitandukanye.

Umusore uri muri siporo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umuhondo urimo amabara y'umutuku n'umukara ndetse yicaye hanze iruhande rw'ibimera byinshi, bigaragara ko yakoreye siporo ahantu hisanzuye hari amahumbezi.

Amacupa manini abiri arimo amazi, bayateretse iruhande rw'icyuma, ndetse hari n'icunga rikase, hari urusenda n'ubundi bwoko bw'imbuto, hari na metero igiye izengurutse kuri ibyo bintu byose bihari.

Umusore n'umukobwa bicaye bateranye imigongo ndetse bambaye imipira mitoya, bafite icupa ry'amazi bose bashyize ku munwa bareba hejuru, bameze nk'abari kwiranguza nk'aharimo amazi make.

Umusore ufite ekoteri mu gutwi ndetse afite n'utuntu yiziritse ku maboko ari muri siporo, yambaye umupira w'ubururu ndetse arimo kunywa n'amazi, bigaragara ko asoje siporo yakoraga.

Umuntu ufite icupa batwaramo amazi mu gihe bari ku rugendo, yarishyize ku munwa ari kunywa ndetse haragaragara ibicu by'amoko atandukanye, ibigaragaza ko hari izuba ndetse n'imvura igiye kugwa.

Umukobwa wambaye agasengeri k'icyatsi ndetse n'agakabutura k'icyatsi n'inkweto nazo zisa gutyo ari muri siporo yazamuye akaguru bigaragara ko yagororotse arimo kugorora umubiri we neza.

Aha ngaha ni mu cyumba kwa muganga, haryamye umurwayi. Iruhande rwe hari abantu bane, basa nkaho bari kumuzirika amaguru. Urebye barashaka kumutera ikinya cyangwa se akaba ari ikindi kibazo yagize, gituma bamuhambira.

Icyapa kiriho ibirango harimo umuntu urimo kwiruka; ikindi gice kikaba kirimo ikiganza cy'umuntu ndetse ahandi harimo umusaraba uri mu ibara ry'umweru riteretse mu mutuku ndetse hakaba n'undi muntu uri kugenda agendera nka babandi bagendera mu rubura.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi na kuteri z'umweru afite icupa ry'amazi bigaragara ko ari kunywa kandi yari afite inyota iruhande rwe hari urukuta rw'umweru bigaragara ko avuye muri siporo.

Umukobwa ufite umusatsi muke wagira ngo ni umunyeshuri, yambaye agasengeri karimo utubara twinshi ndetse n'ikindi gitambaro cy'umweru yashyize ku bitugu, afite icupa ry'amazi rito yashyize ku munwa ari kunywa.

Uyu ni umukinnyi ahuye n'ikibazo cy'imvune. Aryamishijwe ku gatanda kabugenewe bakita burankari, kifashishwa n'abaganga bavura abakinnyi.

Umugabo ufite icupa ry'amazi yashyize ku munwa ari kunywa, afite isaha ku kuboko ifite umugozi w'umukara ndetse yambaye umupira w'ubururu, arararamye bigaragara ko icupa arimo kunywa ririmo amazi makeya.

Iki ni ikigo gishinzwe ubutabazi cyo mu Rwanda, gifasha abarwayi, indembe, bakeneye guhabwa amaraso, barembye cyane badafite amaraso ahagije mu mubiri wabo.

Nk'umusore wavunitse ku kaguru hafi y'akagombambari ari kwa muganga aho yicaye ku gitanda ari kwitabwaho n'umuganga. Kandi urabona ko yitabweho cyane kuko bari kumuzirikiraho kugira ngo akire vuba.

Abagabo babiri bari mu cyumba gikorerwamo siporo kisanzuye kandi bambaye imyenda imwe itabangamye mu gukora siporo n'inkweto zabugenewe, bose bambaye neza nk'abari muri siporo, ikindi bafite ibyuma byinshi bifashisha bayikora.

Umugabo wambaye imyenda ya siporo n'agapira k'ubururu k'amaboko magufi isaha ku kuboko ndetse afite na kuteri z'umweru n'igitambaro yashyize inyuma ku bitugu mu irugu, afite icupa ry'amazi ari kunywa n'amazi afite na terefone mu ntoki, yicaye ku masikariye aho abantu bazamukira bajya mu yindi nyubako.

Imiti itandukanye harimo ibinini ndetse n'iri m'uducupa tw'umweru n'umukara, hari impapuro zikoreshwa mu isuku, hari n'igikapu cy'umutuku gifunze kiriho umusaraba inyuma, bigaragaza ko hari ibikoresho bikoreshwa mu gutabara ubuzima bw'abantu.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri ari kumanuka yongera azamuka imbere ye hari imbuto zitandukanye ibinyomoro, imineke ndetse n'amaronji ibi ni ibigaragaza ko mu gihe wakoze imyitozo ngororamubiri ugomba gufata imbuto zitandukanye.

Umugabo wambaye imyenda ya siporo, umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara, afite umupira bakina mu ntoki uriho nimero enye ndetse ku mupira yambaye hariho icyapa kimuranga.

Umuntu uterura isahani iri mu ishusho y'umutima hariho avoka y'igice ndetse hakabaho urusenda rumwe runini ruhumura ndetse hakabaho n'ibindi bintu imbuto nk'inyanya ndetse na tungurusumu.

Kwa muganga, umuganga ari kwita ku murwayi, har’ikintu amufatishije mu ntoki kimeze nk'itoroshi, uyu murwayi yambaye ishati y'ubururu, umuganga yambaye itaburiya y'umweru. Uyu murwayi bamwicaje mu gatebe biragaragara ko ari kugenda avuga ahantu ari kubabara.

Mu kibuga umukinnyi yari arimo akina ariko agize ikibazo, abashinzwe ubuzima bw'abakinnyi bo mu kibuga baje kumureba bari kumubaza ikibazo yaba yumva afite ngo bamukure mu kibuga bamusimbuza undi, arimo arababwira apfukamye hasi nabo baciye bugufi basutanamye bamuteze amatwi.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye hasi ku itapi, iruhande rwe hari amazi, ndetse imbere ye harambuye mudasobwa, arimo arafata amaboko ye akayagorora ayajyana inyuma mu mugongo, ayagarura imbere, ayajyana inyuma, yicaye hasi amaguru yayahiniye mu mavi.

Umusore wambaye isengeri ari gukora imyitozo ngoramubiri, yahindukiye yateye ishusho umugongo ari kumanura amaboko inyuma kumugongo, yiyogoshesheje hasi asigaho umusatsi muke hejuru mwinshi.

Amoko y'imbuto ndetse n'ibitera imbaraga atandukanye hano hari amarongi pome inyanya ndetse n'izindi mboga rwatsi zitandukanye hari na metero bigaragaza ko ibingibi bifasha umwana cyangwa se n'undi muntu mu mikurire ahangaha biragaragara ko izi mbuto zirinda igwingira.

Igikorwa remezo cyabereye mu ishyamba cyateje umutekano mukeya bituma umuntu umwe agubwa nabi, abashinzwe ubutabazi bw'ibanze mu gutanga amaraso bamutabaye baramuteruye bagiye kumuha ubutabazi bw'ibanze.

Ku bitaro kwa muganga, umugabo yuriye urwego ahagaze hejuru, arimo aragenda amanika insinga ku rukuta kugira ngo ashyireho amatara habashe kugaragara, hasi hari umugabo uri kumuhereza ibikoresho ufite ikintu cy'umutuku mu ntoki kinini kimeze nk'umufuka, hirya gatoya hari umugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'akandi k'umutako bambara mu ijosi wagira ngo ni ishapure, afite icupa ry'amazi yashyize ku munwa.

Akadege gatoya katagira umupilote, karitwara tuzwi ku izina nka nka dorone dutwara amaraso tuyajyana ku bitaro bikeneye, babiri ufite abarwayi bakeneye amaraso.

Umukobwa w'imibiri yombi. Afite icupa ry'amazi ari kunywa amazi. Afite isharupe ku rutugu yambaye isengeri. Biragaragara ko anyweye amazi yari afite inyota nyinshi.

Agakoresho kabigenewe kari mu ibara ry'umuhondo kifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri. Hari umusaza ugafashe, iruhande rwe hari ushinzwe kugenzura ubuzima bwe uko buhagaze.

Abatekinisiye bari gukora umuriro w'amashanyarazi, umwe ahagaze ku rwego, yambaye ipantaro irimo ibara ry'umukara ndetse n'irindi rizengurutse ku kuguru, hasi, uwo hasi afite igitambaro cy'umutuku afite mu kuboko.

Aha hagaragara ibiryo byibanzemo imboga, ndetse n'ibitera imbaraga n'ibikomoka ku matungo. Hari amagi, imineke, urusenda, pavuro ndetse n'ibindi. Bimwe biri ku isahani, ibindi biri mu gatente.

Umugore n'umugabo bambaye imyenda ya siporo ndetse umwe w'umugore aracyakora siporo, naho umugabo we yicaye ku ntebe ihari, ari kunywa amazi, iruhande rwabo hateretse ibikapu by'umukara.

Utu dukoresho dupima umuvuduko w'amaraso cyangwa se indwara y'umutima, utu ngutu umuganga adushyira mu matwi ye yarangiza akatuzirika akakuzirika ikintu kimeze nk'isaha ku kuboko kwawe ahita yumva ukuntu umutima uri gutera bitewe n'umutsi aba yaziritseho.

Ubwoko bw'ibitunguru bwitwa tungurusumu buba bufite akantu kamwe ariko wagashishura mo imbere ugasangamo utuyimpeke twinshi cyane tw'uduce duce, bigaragara ko iratubuka kuko ntiwayikoresha inshuro imwe kuko ushobora kuyikoresha inshuro zirenze imwe umumumaro wayo ukaba mwinshi.

Umuti gakondo uvura inkorora, umuti uvura indwara nyinshi zo mu muhogo, umuti abantu benshi bazi nk'umuravumba. Uyu muti wifashishwa ku bantu barwaye ibicurane, inkorora, cyane cyane wifashishwa bawuhekenya, barangiza bakamira amazi, bakabikamura, bagacira ibikatsi.

Ibimera bitandukanye biri mu bikombe byabugenewe, bishinzwe guterekwamo ibimera bizima ndetse n'iby'amoko atandukanye bivamo imiti itandukanye, kuko handitseho ijambo rinini rivuga riti " Imiti mu bimera ".

Aha ni mu iduka ricuruza ibinyobwa bitandukanye. Aha ngaha biragaragara ko hari ibicuruzwa birimo ibisindisha cyangwa se n'ibiryohera ariko bidasindisha. Harimo ibipfundikije imifuniko y'imikara, iy'imituku ndetse n'iy'imyeru, tutibagiwe n'umuhondo.

Uyu n'umuti gakondo hari agasekuru gatoya bawuhonderamo barangiza bakawanika kugira ngo babone ukuntu bawukoresha, hino gato yako gasekuru hari igitabo kirimo amabwiriza y'ukuntu, uyu muti ugenda ukoreshwa bitewe n'uwori wo kuko uratandukanye.

Umugore uri kwita ku ndabyo yaje gusoroma indabyo zarabye ngo hazaho izindi nshyashya nazo aze azisorome muri make navuga ko ari nko gusarura izi ndabo ziragaragara ko ari indabo z'iroza zikundwa cyane cyane n'igitsina gore.

Ubwoko bw'amavuta bufunze mu icupa ry'umweru, ririho akantu k'akanyamaswa gatoya kameze nk'isazi, iruhande rwayo hari amagambo ahanditse y'ubwo bwoko bw'ayo mavuta.

Abantu bashinzwe ubuhinzi bw'imiti gakondo, harimo abagabo bambaye imipira y'ibyatsi n'abafite amakaye mu ntoki, abenshi muri bo bambaye amarinete, harimo umugabo umwe wambaye ikositimu utambaye imyenda y'icyatsi hamwe n'uwundi wambaye ishati y'amaboko magufiya.

Umugabo n'umugore bari mu ishyamba ry'inzitane, ndetse umugore yambaye umupira w'imbeho w'umweru n'agatambaro yateze mu mutwe, umugabo na we yambaye ikoti ry'umukara n'umupira w'umutuku, afashe mu biti mo hagati.

Ibiganza by'umuvuzi gakondo. Biragaragara ko ari kuzingira umuti mu gipapuro, hari umurwayi agiye kuwuhereza, akawukoresha mu burwayi runaka yaba afite bumusaba gukoresha umuti gakondo, atagiye kwa muganga agakoresha imiti ya kizungu.

Ibikombe birimo amazi ndetse n'ibibabi ndetse n'ikindi kiri ku ruhande kitari mu mazi bigaragara ko ari umuti bari gukora kuko amazi arimo kuvamwo n'umutuku.

Uducupa tw'umuhondo tubiri dushushanyijeho amagambo atandukanye, ndetse hari n'ibindi bintu bifunze mu makarito, handitseho ijambo 'f' n'umubare cumi na gatanu.

Imbuto z'ingemwe ziri mu bikombe byabugenewe, birimo umutuku ndetse n'umukara. Izo ngemwe zimaze gukura cyane, ku buryo zatebwa, kandi zikamera zihuse, mu gihe zaba zihuye n'imvura.

Iyi ni tangawizi, tangawizi abenshi tuzi umumaro wayo; itekwa mu cyayi kugira ngo ibe yakuvura mu muhogo nk'inkorora; hano hari tangawizi zidakase hakaba n'izikatakase; ubu ni uburyo bwo kugira ngo bakwereke uburyo wayiteka.

Umurima munini mugari kandi uri ahantu harambuye, urimo indabyo nkeya ariko zejeje harimo iz'umweru, umutuku, umuhondo ndetse n'iroze, kandi urabona ko zihishimiye.

Urugemwe rutoya rukiri mu gihoho biragaragara ko rukiri gukura igihe cyo kurugemeka cyari iki ngiki ngo uwaba ufite umurimo uhinze uteguye neza yarujyana akarugemeka kuko ntirurarengengerana kandi icyi ni cyo gihe cyarwo cyiza cyuko umuntu yarugeraka kugira ngo yatangire abe yatangira kubarira igihe azarusarurira.

Ku musambi uboshye mu busuna, urambitse ahantu hasi, hariho udukono, udusahani, turiho ibintu byinshi bitandukanye, afite akantu k'agasekuro mu ntoki ndetse n'umuhini arimo arasekura ikimera bigaragara ko ari gukora imiti ya gakondo.

Ikimera cy'icyatsi gifite ururabyo rw'umuhondo ndetse n'utwezerezwa mo imbere, gifite urutiritiri rutari runini kandi iruhande rwacyo hari ibindi bimera byinshi bitandukanye, harimo kuvamo izuba.

Ikimera kinini ubona gifite amashami menshi cyane ubu kandi ukabona ko kigira ibibabi bitoya bitangana n'iby'ibindi bimera kiri ahantu hisanzuye cyarameze kirasagamba ku buryo umuntu wese yakwifuza kugitera mu gihe azi ubwoko bwacyo.

Uyu ni umuti ukozwe mu gikakarubamba. Uri mu icupa ry'umweru, iruhande hari igikakarubamba karemano.

Ingemwe zitandukanye ziri mu butereko bwabyo bigaragara ko ari aho bazihumbikiye, zifite ibara ry'icyatsi kibisi riranga ibimera byinshi bitandukanye ndetse utwo dutereko biteretsemo dufite irangi ry'umutuku.

Ibimera byinshi bitandukanye harimo ibikorwa ndetse n'ibindi biba byeze kuri ibyo bimera twavugamo nka tungurusumu, hari na tangawize n'ibindi by'amoko menshi atandukanye biri mu byiciro bitandukanye.

Ibiganza birimo birasekura umuti bikoresheje udukoresho twabugenewe, ntabwo ari gakondo ni udukoresho twa kizungu Birimo birakora umuti wo kwivura.

Ibimera biri mu bitereko by'umutuku, harimo ingemwe zitoshye zimeze neza zigeje igihe cyo guterwa, zifite amababi meza y'icyatsi kibisi bigaragara ko zahumbitswe kera, mu gihe k'imvura barazitera zikamera kuko ziba zaratangiye gushora imizi.

Aha ni ahantu hinazwa imboga cyangwa se izindi mbuto, ahazwi nka pepenyeri cyangwa se akarima k'imboga, aha ngaha ni imboga baba benda kugemura ngo bajye kuzigemeka mu w'undi murima, uba warateguwe guhingwa, uteganyijwe gushyiramo imboga cyangwa se n'ibindi bimera muri rusange.

Aha ni muri farumasi, ahacururizwa imiti y'ubwoko butandukanye, iyo urwaye ukagerayo, baguha imiti ihwanye n'uburwayi ufite.

Ibi ni ibikombe bitandukanye biri mu moko atatu, bimwe bipfundikishije imifuniko y'umutuku, ibindi n'imifuniko y'umweru, ibindi ni ibipfundikije imifuniko yijimye, biragaragara ko birimo imiti gakondo ariko iri mu bwoko butandukanye.

Uducupa tw'umuhondo n'umweru, turiho igishushanyo cy'isazi, hari n'urubuto rukasemo ibice bitatu, bigaragara ko ari byo bifashishije bakora uwo muti.

Umugore wicaye iruhande rw'agatebo karimo ibimera bigiye bifite amoko atandukanye, bimwe bitoya, ibindi bifite ibibabi binini, ubona ko ari imiti ikaba igiye gutunganywa.

Aha hazi nk'aho hinarizwa imbuto cyangwa se indabo, hano biragaragara ko ari ingemwe zikiri ntoya, batari bakenera kujya kugemeka ahantu baziteganyirije kuzihinga.

Uyu ni umuti ukomoka mu gikakarubamba, igikakarubamba ni ikimera cyiza cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, haba izikomoka ku ruhu ndetse n'izindi.

Icyapa kiriho icupa ry'umweru ririmo imiti y'ibinini kuko hari ibyo basutse hasi ndetse hari n'ikimera kigaragaza ko ibinini biva mu bimera, handitseho amagambo agira ati ubwonko bukora neza.

Ibicupa bibiri by'umweru ndetse n'ikindi cy'umuhondo, iruhande rwayo hari igikakarubamba ndetse n'indi miti iteretse mu dukombe twabugenewe babikamo, kandi ni imiti ivura cyane.

Umuntu wambaye umupira w'ubururu akoze ku kimera giteye ahantu hari ibindi byatsi bitandukanye iki kimera gifite ubwoko wagirango ngo ni avoka.

Shampo, isabune yo kumesa cyangwa se isabune wakwifashisha ukaraba cyane cyane nko mu mutwe uri gukarabya mu musatsi, iyi sabune ikunze kuba ahantu bogosha bakayikuvurisha mu mutwe mu gihe bamajije kogosha nk'umuntu.

Ikimera cyo mu bwoko bw'umuravumba gifite ibibabi binini, iki giti gikunze kuvura cyane, cyane cyane iyo umuntu arwaye mu mihogo, ibicurane, kiravura kandi cyane kuko abantu benshi bakunda kugikoresha.

Icyumba cyirimo akabati gateretsemo imiti y'amoko atandukanye, imwe ifunze mu byabugenewe ndetse indi ikaba mu dukombe twabugenewe, hari amacupa y'amazi bigaragara ko ari aho icururizwa, harimo n'umuntu wambaye umwenda w'akazi bigaragara ko yabyigiye.

Ku musozi ahantu hacuramye cyane, hateye ibiti by'amoko atandukanye, harimo ibirandaranda ku butaka ndetse n'ibizamuka hejuru kandi ibyo bizamuka bikagaba amashami.

Icupa ririmo imiti itandukanye rigaragaza ko ari ya miti ivura amibe, kuko hejuru y'icyo cyapa handitseho igisubizo kuri amibe.

Ibimera byinshi bitandukanye biri kusahane bigaragara ko babihonze hakavamo amazi barimo gukora umuti biteretse ahantu ku meza hari igitambaro cy'umweru.

Inyubako irimo ibintu byinshi, ariko ahanini harimo amacupa menshi atandukanye, bigaragara ko ari inzoga z'amoko yose ndetse hari n'icyapa cyanditseho nimero ushobora guhamagara mu gihe ubakeneye, harimo abantu bari kureba izo nzoga bigaragara ko bagiye kuzigura.

Udukarito dutandukanye turimo imiti ndetse hari n'ibicupa binini biriho ibishushanyo by'ibimera, bigaragara ko ari imiti ikoreshwa kwa muganga.

Ibimera bifite amoko atandukanye biri mu bihumbiko by'umweru, harimo n'utubara ndetse byatangiye kweza ubona ko ari indabyo nziza, hari n'ibifite ibibabi wagirango ngo ni iby'ibihaza.

Imbuto zikiri ntoya, zisa nk'aho hari imboga zikiri muri pepenyeri cyangwa se aho binariza imboga. Izi mboga biragaragara ko zigeze igihe cyo ku kugemurwa zikajyanwa mu murima kugira ngo zitazangirikira aho zinarijwe.

Udukombe tw'umweru dushushanyijeho ibishushanyo ndetse n'amagambo atandukanye hari n'amacupa y'ibyuma, kandi hari n'ibindi bifunze mu makarito yabugenewe ubona ko ari imiti ikoreshwa kwa muganga.

Ishyamba ry'ibiti byinshi bimwe bya kimeza birebire, ibigufi ndetse ubona bicucitse cyane biri ahantu hatekanye hagari, ubona ko bimeze neza bitoshye kuko byitaweho byabonye imvura ihagije.

Iduka ricuruza imiti gakondo itandukanye, iruhande rw'iyo miti hahagaze umuntu wambaye ipantaro ndetse n'agapira k'amaboko magufiya k'umweru, ariko arangariye kuri terefone, hirya gatoya haparitse moto, ndetse hari n'umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Icyapa cyanditseho f cumi na gatanu hakaba hariho amacupa abiri y'imihondo afite imipfundikizo y'umutuku ndetse inyuma yaho hari umuntu w'umugore uteze akaboko imbere akandi akazamuye hejuru.

Ikibabi kinini kiriho ibinini by'amoko amwe kandi bigaragara ko ibyo binini bikorwa muri icyo kibabi ndetse biteretse ahantu ku meza y'umweru.

Umugabo uri hagati mu byatsi ibyo bimera kandi ni birebire bivura indwara zitandukanye akaba ari mo arasoroma ibibabi byabi ateze akantu k'agatambaro umutwe kameze nk'ingofero.

Hari ibimera bitandukanye ndetse bimwe bikiri bibisi, bifite icyatsi kibisi, ibindi bimaze kuma biri hasi, ariko urabona ko ari ahantu hahoze ibimera byinshi, ari uko iyo ikimera gishaje kigenda cyuma amababi yacyo agahunguka.